Abana babiri umwe yambaye agapira gatukura undi yambaye ipantaro n'ishati bisa byose bidoze muri londoni bakaba bateze amaboko bari gutoba amazi ava ku mugezi.

Inama y'abayobozi bakomeye yahuje ingeri zitandukanye aho hari abatumirwa batanu b'abagabo ndetse n'umugore umwe bahagaze imbere y'abaturage bababwira amakuru yose ajyanye n'uburyo bagashobora gufatanya nk'ibihugu bakarushaho gutera imbere.

Abana bicaye b'abanyeshuri bambaye imipira y'ubururu, yandikishijweho ibara ry'icyatsi, bari kumwe n'abarezi babo batatu, bambaye amakote, bicaye mu cyumba kiza cyane, aho ibikuta by'inzu biteye irangi ry'umuhondo.

Akantu kari mu ibara ry'ubururu, kakaba kari kuvamo amazi, gateretse hejuru y'ameza, hakaba hari n'umuntu uteze intoki aho ari gutega ayo mazi ari kuva nwako kantu.

Muri iki gihe abanyarwanda bateye imbere ndetse n'igihugu giteza imbere ibikorwa remezo, ubungubu ukaba usanga amazi aboneka mu duce dutandukanye tw'igihugu, aho uba ushobora kugenda ukayanywa ngo yemere bidasabye ngo ujye kuyashaka mu mubande nk'uko byahoze.

Uburyo bwiza bwo kubungabunga ibidukikije abantu bari mu ngeri zitandukanye barimo abapolisi ndetse n'abakozi ba leta bambaye imipira itukura, ndetse bakaba bari gutera ibiti uburyo bwiza bwo kubungabunga ibidukikije no kuzana umwuka mwiza abantu bahumeka.

Abantu batanu bakora mu nzego z'ubuvuzi bambaye imipira isa ndetse bakaba bambaye n'ingofero zisa, zose zifite ibara ry'umweru bose bazamuye amaboko bavuga bati turi kumwe reka dushyigikirane.

Mu nyubako nziza cyane aho inararibonye zahuye kugira ngo zige ku kibazo cy'ubuzima, ziricaye ni abagabo batatu n'abagore babiri, bose bafite amazi imbere yo kunywa, bicaye mu ntebe nziza ndetse n'ameza, aho inzu ifite umuryango ufite ibirahuri byiza bibonerana ndetse n'amarido.

Iyo umwana akiri muto cyane iyo agiye mu mashuri abanza acyambara impuzankano ya kacyi, biba bisaba ngo umubyeyi amwiteho amwigishe gukaraba intoki ndetse n'ubundi buryo bwo gukora isuku.

Uruganda runini cyane rurimo imashini z'ubwoko bwose hari iziri mu ibara ry'ubururu, hakaba hari impombo ziri mu ibara ry'icyatsi ndetse hakaba harimo n'umugabo umwe uri gukoresha ibyo byuma.

Abana bato bambaye imyenda y'ishuri, impuzankano ya kaki, bafite indobo n'utujerekani bari kuvoma amazi kuri robine rusange, ubona ko bishimye cyane, ni umugezi uri ahantu mu gashyamba, mbese uri imbere y'imikindo.

Inama yahuje abayobozi batandukanye mu nzego nkuru z'ubuzima, bahuriye mu nzu nziza cyane aho bicaye bafite ibyo kunywa, bafite icyuma kerekana amashusho kizwi nka porojegiteri.

Umugabo wijimye cyane, afite ijerekani, akaba yaje kuvoma ku ivomero rusange, inyuma ye hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibipangu by'inzu.

Umugabo w'umuganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'akuma yazengurukije mu ijosi. Ari kuvura umwana muto wambaye ubusa hejuru, aho ateruwe n'umubyeyi we, bakaba bicaye ku ntebe iri mu cyumba kimwe kwa muganga.

Umwana muto w'umuhungu. Yambaye ishati y'umweru ndetse n'ikabutura, akaba ari gupomba amaze ku mugezi. Imbere hari umwana muto w'umukobwa uri kuvoma amazi, aho ari kuvomera mu majerekani abiri kugira ngo bajye guteka.

Inama yahuje abayobozi bakomeye mu nzego z'igihugu, bahuriye mu cyumba cyiza cyane hakaba hari ameza, bakaba bafite amazi yo kunywa ndetse iruhande rwabo hakaba hari ibendera ry'u Rwanda.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bafite impapuro bari gusomaho amakuru atandukanye ajyanye n'ubuvuzi, hakaba hari n'umusaza umwe uri kubaha impanuro aho bakoraniye mu nzu mbera byombi.

Umwana w'umuhungu ufite umusatsi wamwereyeho ari kunywa amazi ateze intoki, inyuma ye hamanitse imyenda ndetse hakaba hari n'umuntu, aho bigaragara ko ari amazi meza bose baje kunywaho.

Ubantu babiri, umwana umwe uhagaze afite ibinika, undi wunamye ari gushira isabune ya omo mu ndobo, kugira ngo babashe gukora amasuku ku myambaro yabo.

Muri gahunda yo kugeza serivise z'ubuvuzi kuri bose, umuganga yagiye gusura abaturage mu rugo rwabo mu cyaro, aho ari kubapima akoresheje ikintu bazirika ku kuboko, hakaba hitabiriye abaturage batatu.

Amagambo atandukanye, hari ari mu iba ry'icyatsi, asobanura umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'umwana, hari asobanura kovidi cumi n'icyenda, hakaba hari andi asobanura imiryango itandukanye, nk'iyita ku bakozi, ndetse n'indi itandukanye.

Ababyeyi bafite impinja baje ku bitaro aho baje gukingiza, bakaba bicaye batonze umurongo bategereje ko buri umwe agerwaho kugirango babakingirire abana babo.

Abana bane bagiye kuvoma bafite ijerekani imwe aho bayiteretse ku mugezi kuruhande amazi akaba atari kugwamo neza, kandi umwana umwe muri bo ari gupompa amazi.

Umudamu uri kumwe n'abana batoya bakaba bari ku ivomo bari kuvoma, ivomero rya kera. Bari kuvomera mu ibase y'umutuku, ikijerekani ndetse abana nibo bari gupompa, umugezi ukaba uri imbere y'amazu, ubona ko ari amazu ya kera.

Abantu benshi barimo abirabura ndetse n'abazungu, bari kwifotoza nyuma y'uko bari bamaze guhurira mu nama, yita ku buryo bwiza bwo kubungabunga ubuzima, bari kwifotoreza mu nzu nziza cyane ifite amarange y'umweru.

Umwana muto w'umukobwa yambaye ikanzu idozwe mu kirondoni, akaba afite n'umusatsi wa derede, afite icupa ririmo amazi aho ari kuyatoba agenda ayasuka ku nzu, iruhande rwe hakaba hari n'igipangu cyubakishije inkarakara.

Abagabo bambaye imipira y'umweru, bateraniye ahantu hamwe mu nzu nini cyane yagutse, aho baje kwiga ku buryo bwo guteza imbere gahunda zo kwita ku buzima, harimo uburyo bwo kwisuzumisha indwara n'ubundi buryo butandukanye.

Nyuma y'uko ubuvuzi bumaze gutera imbere mu Rwanda, hari uburyo bwashyizweho na leta, aho abaganga ndetse n'abandi bakora mu nzego z'ubuzima bavura abana mu ngo, bafatanyije n'ababyeyi babo kugira ngo ubuvuzi mu bana burusheho gukorwa mu gihe.

Umukobwa ukiri mutoya yambaye ijipo y'icyatsi ndetse n'umupira w'icyatsi aho ari gukaraba mu mazi meza, inyuma ye hakaba hari ibiti byinshi ndetse akaba ari ahantu hitaruye.

Abantu batanu barimo abagore bane n'umwana umwe, bari ku mugezi abagore babiri bari kuvoma, aho bari guterurana indobo imwe y'ubururu irimo amazi mugihe indi y'umutuku iteretse ku ruhande batarayiterura.

Abaganga babiri, umwe w'umugabo undi w'umugore, bambaye amataburiya meza y'umweru, bari kuvura umwana akaboko, bigaragara ko yasinziriye cyane ariko, ari hamwe n'umubyeyi we mama ubabaye, witeze igitambaro cy'icyatsi, hirya hakaba hari agasahani k'ibiryo.

Kwa muganga abaganga bambaye amataburiya y'akazi, umwe ari kuvura umusaza wambaye ingofero n'ikote mu kuboko kumwe, kuko bari kumupima ku kundi kuboko, abandi bakaba bicaye inyuma ye, nabo bari gupima abandi.

Imbonerahamwe irimo imirongo itandukanye, aho uruhande rumwe rugiye rurimo icyiciro cy'uburwayi ndetse urundi ruhande rukaba rurimo ibisobanuro bitandukanye bijyanye n'icyo cyiciro cyavuzwe mu ruhande rwa mbere rw'ibumoso.

Imbaga nyamwinshi abantu bateraniye mu nzu nini cyane irimo amatara meza y'umuhondo, aho abantu bicaye mu ntebe zifite ibara ry'ubururu bari mu ngeri zitandukanye harimo abagabo n'abagore, aho bari mu nama yiga k'uburyo bwo guteza imbere ubuvuzi.

Ikirangantego kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu aho asobanuye Umuryango mpuzamahanga wita ku buzima.

Abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi, bambaye amakarita y'akazi, ndetse bakaba bambaye na'mataburiya, aho bishimye cyane, bagaragariza umuzungu uri imbere yabo ko bamwishimiye.

Abantu benshi barahagaze bari gushungera umwana muto w'umukobwa watereye igitenge ku rutugu aho ari kuvoma amazi yitwaje amajerekani abiri ku ruhande hakaba hari undi mugore uriku kumusaba amazi yo kunywa.

Abantu benshi bahagaze impande y'imbangukiragutabara hari umudaso uhagaze imbere y'igisharagati, hari inzu ifite amabati y'igitaka, imbere yabo hakaba hari idarapo ry'u Rwanda ndetse hirya hakaba hari n'izindi modoka.

Abantu bo mu cyaro barahagaze bari kureba umugore uri gupomba amazi ku ivomero rya kera aho umwana we ari gutega amajerekani ngo amazi ajyemo bakaba, bitwaje amajerekani abiri manini ndetse n'akabido gatoya k'amacupa cumi n'atanu.

Nyuma y'uko ubuvuzi ndetse n'amasomo ajyanye n'ubuvuzi amaze gutera imbere hari gahunda yashyizweho na leta, aho abaturage bavurirwa mu rugo ndetse bagahabwa n'inkingo z'indwara zitandukanye babisangiye mu rugo.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa ateruye umwana we aho ari kumusoma amuha akabizu. Inyuma ye hari undi mubyeyi nawe wambaye agapfukamunwa k'umukara nawe akaba ateruye umwana aho bari kwa muganga ku nzu iteye irangi ry'umuhondo.

Ababyeyi bari kwita ku mwana ufite ikibazo cy'uburwayi bamuha umuti wa vitaminini a. Ubona ko bishimye bambaye udupfukamunwa ariko ntago batewe agahinda cyangwa baheranwe n'ibyo bibazo by'icyorezo.

Abayobozi bakuru mu nzego zitandukanye, bahuriye hamwe aho bari baje mu nama y'umushyikirano kugira ngo bite ku hazaza h'abaturage b'Afurika ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange.

Ubuvuzi butangirwa ahantu hose, aho usanga hari abakorerabushake babafasha, ndetse hakaba hari abarwayi yaba abato n'abakuze, bitewe n'icyizere baba bafitiye abaganga bakemera bakabavura.

Mbere hari abana barangwaga n'imirire mibi, ugasanga akenshi biterwa no kuba baturuka mu miryango ikennye, ariko ubu hari gahunda yashyizweho na leta, aho abana bahurira ahantu bagahabwa igikoma nk'inyunganiramirire.

Abagabo babiri bahagaze, umwe yambaye ijire ry'ubururu n'agapira k'umutuku, undi yambaye ishati y'umweru, hari umugabo wicaye wambaye ingofero y'abayisilamu, akikijwe n'abana bafite ibipapuro bishushanyijeho bari imbere y'inzu iteye urwondo.

Abagore batatu bagiye kuvoma, babiri bari gupomba amazi ku mugezi, mu gihe amazi ari kugwa mu gisafuriya kinini, undi umwe afashe indobo y'icyatsi ari kudaha amazi muri icyo gisafuriya.

Abagore batatu bagiye kuvoma, babiri bari gupomba amazi ku mugezi, mu gihe undi umwe ari kudaha amazi mu isafuriya nini cyane adahisha indobo.

Hari izuba ryinshi cyane, aho abantu bateraniye hamwe bari mu nama bakaba bari mu nzu iteye amarangi y'umuhondo, ariko ubona ko bakurikiye cyane icyigisho cy'uyu munsi.

Leta muri gahunda yo kwegera abaturage, yabegereje n'ibikorwa remezo birimo amazi, aho abana, abakuru ndetse n'abandi bose baturuka mu mpande zose baje kuvoma, bitwaje indobo ndetse n'ibidomoro.

Kugira ngo umuntu abe afite ubuzima bwiza akenshi bisaba kugira ngo abone uburyo bwo kuruhura mu mutwe, aha twavuga nko ku bana kuba haboneka amazi bagenda bakoga ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bibashimisha.

Agatanda gatoya cyane gakoze mu biti gafite amaguru ane, aho kanitseho amasahani y'umweru ay'icyatsi ay'umuhondo, hakaba hari n'ibikombe aho gashinze ku mbuga yo mu rugo rumwe mu cyaro ku ruhande hakaba hari insina ndetse n'uruzitiro.

Nyuma y'uko abantu bari mu ngeri zitandukanye bamaze kuganira ku buryo bwo kwita ku buzima bwabo, baje kwiyifotoza inyuma yabo hakaba hari igipapuro kinini cyane kigaragaza uburyo umubyeyi utwite akwiye kubaho.

Umugabo arimo arakorera umwana mutoya ijerekani ipfundikishije umukanana , umugabo yambaye ipantaro y'ubururu n'agapira k'icyatsi yambaye n'apfukamunwa k'umweru ho umuzungu, umukobwa ari kubafotora nawe yambaye ijile, bahagaze ahantu abona ko ari mu kibuga cy'umupira ndetse akaba mu kigo cy'amashuri.

Umukobwa wambaye impuzankano y'ishuri, ingutiya y'igitaka ndetse n'ishati y'umuhondo, ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe n'amazi meza n'isabune nk'uburyo bwiza bwo kurwanya umwanda.

Umukobwa wambaye ingutiya y'umukara ndetse n'umupira utukura, ari kuvoma amazi mu ijerekani y'umuhondo, aho ari kumesa imyenda, yayanitse ku mugozi, inyuma hakaba hari inzu y'amabati ashaje.

Umuganga w'umudamu wambaye itaburiya y'umweru, akaba afite n'ibisuko bya meshi, yambaye iherena, ari guha umwana umuti, ni umwana w'uruhinja wambaye umupira w'umweru ndetse akaba ateruwe na nyina, wambaye iribaya afite n'umusatsi usanzwe.

Ababyeyi bambaye imipira myiza cyane isa y'umuhondo, bakaba bambaye utujire tw'icyatsi bahagaze imbere y'inzu bari kwifotoza, ni inzu ifite amadirishya y'ibyuma ikaba iteye n'irangi ry'umuhondo.

Inyubako ndende cyane yubakishije amatafari ahiye igeretse gatatu, aho ku ruhande hari ubusitani hino yayo hakaba hari indi nyubako utamenya ibyo ikorerwamo ariko isa naho harimo amazi.

Muri iyi minsi haje indwara zitandukanye z'ibyorezo, abantu barakangurirwa kujya kwikingiza, bagafata inkingo hakiri, kare kugira ngo ubwo bazagira umwaku bakarwara iyo ndwara ntizabazahaze.

Umuganga w'umugore wambaye agapfukamunwa akaba yambaye n'ijire y'abaganga yipfutse igitambaro mu mutwe, aho ari mu nzu y'ubuvuzi ari gukoresha ibyuma bitandukanye by'ikoranabuhanga mu kwita ku barwayi.

Abagore babiri umwe yiteze igitambaro mu mutwe akinyeye n'igishora akaba yambaye n'umupira w'amaboko maremare undi yambaye ishati y'amaboko maremare baje kuvoma ku migezi rusange bose buri umwe yitwaje ikidomoro cye.

Umugore witeze igitambaro mu mutwe yambaye agapfukamunwa yambaye n'ikanzu y'icyatsi akaba ari mu nzu kwa muganga aho ari gukoresha ibyuma bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Abantu bane barimo abakobwa batatu, n'umuhungu umwe bahagaze kuri tapi itukura bari kwifotoza, inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini kigaragaza ko ari umunsi wo gutaha. Umunsi mukuru wo kurinda abana no kubitaho.

Umugore muto muto wambaye agapira gato kari mu ibara ry'umutuku, akaba yakenyeye n'igitenge, ateruye umwana usa n'aho ataragera ku myaka ibiri, akaba ari kuvoma amazi ku mugezi yifashishije indobo y'umukara.

Abagore bakora mu nzego zitandukanye z'ubuvuzi biganjemo abajyanama b'ubuzima bateraniye imbere y'inzu y'umuturage umwe mu cyaro bari kwifotoza nyuma yuko bamaze kuva mu nama y'uburyo bagomba kwita ku buzima bwabo.

Amazi nk'igikoresho kifashishwa mu kubungabunga ubuzima, araboneka ku bwinshi mu bice bitandukanye by'u Rwanda kandi akabara amaze amezi y'urubogobogo aho buri mwana ndetse na buri mubyeyi, aho ashobora kugenda akayageraho bidasabye amafaranga menshi.

Inzu nini y'ibitaro, irimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga; intebe, ameza, ibyuma by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa. Hakaba harimo abantu babiri, umugore wicaye ndetse n'umugabo uhagaze.

Umwana muto cyane ateze intoki ku gihombo kiri kuvamo utuzi duke ari kunywa amazi, iruhande rwe hari abantu babiri ndetse n'intebe imwe, birababaje cyane kuba batari kumubuza kunywesha amazi intoki.

Urubyiruko rwaturutse mu mpande zitandukanye ndetse n'abagabo, bambaye imipira y'umweru n ingofero z'umweru abandi bakaba bambaye imipira y'icyatsi aho bari kwifotoza bafite igipapuro cyanditseho ko ari umunsi mukuru mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Nyuma yuko abantu bari mu ngeri zitandukanye, bavuye mu nama yiga ku buryo bwo buteza imbere gahunda za leta by'umwihariko izijyanye n'ubuzima, bari kwifotoza imbere y'inzu y'igorofa igeretse rimwe, yubakishije amatafari ahiye ndetse hasi aho bahagaze sima iteye irangi ry'umutuku.

Abagore batatu, abakobwa babiri, bakaba baje ku ivomero rusange buri umwe yitwaje ijerekani, batondetse amajerekani yabo ku mugezi rusange uko bagiye baza. buri wese akaba ategereje kuvoma.

Abantu batatu harimo umwana umwe ukiri muto wambaye bodaboda aricaye, undi mukobwa afite indobo ari gutega amazi ku kivovo aho yagiye kuvoma amazi atemba epfo mu gishanga.

Abayobozi ndetse n'abandi bakora mu nzego z'ubuzima bahuriye hamwe aho bari bakiriye umuyobozi w'imena waturutse mu bihugu bya kure aje kubasobanurira uburyo bwiza bwo kwita ku baturage babagana.

Nk'uko bimaze kumenyekana ebola ni indwara mbi cyane usanga yandurira mu myanya y'ubuhumekero, umuntu uyisanzweho akenshi ahabwa inama yo kwitarura abandi n'ubwo abantu bashobora kuza bamukikiza ari benshi cyane ariko bagirwa inama yo kumuhunga.

Abagore batatu bari ku ivomera rusange, babiri bari kunywa amazi, bose bambaye amakanzu, undi umwe yambaye agapira k'umutuku ndetse yambaye n'agapfukamuwa k'umweru, impande yabo hari ibidomoro bibiri.

Ibizwi nka bomboni, biri mu ibara ry'ubururu, biri ahantu byegetse ku gikuta, bikaba bicometse ku byuma, aho byifashishwa mu kongerera abarwayi umwuka kwa muganga.

Ibikoresho byo kwa muganga birimo amapombo akoreshwa mu gutera abantu imiti iciye mu rushinge, ndetse n'agacupa kabamo umuti w'amazi.

Muri gahunda zo kubungabunga ubuzima harimo gahunda akenshi zigenda zitezwa imbere n'ibigo mpuzamahanga aho bihuza inzobere mu buvuzi mu bigo bitandukanye yaba abirabura n'abazungu abagore n'abagabo kugirango bige ku bibazo bihari.

Umugabo wambaye umupira uri mu ibara ry'umukara ndetse n'akarongo k'umweru, ari kuvoma hamwe n'undi mugore wambaye ijipo n'umupira w'icyatsi. Imbere yabo hari umukobwa wambaye ijere ufashe ku mugezi, umugezi uri mu ishyamba.

Abantu babiri barimo umugabo n'umugore baricaye umugore yambaye agapfukamunwa ni muganga ari kwandika mu ikayi afite n'ikaramu, ari kubwira umugabo uburyo agomba kwirinda sida anamwibutsa ko sida ikiriho ntaho yagiye.

Abana benshi cyane, bateraniye ahantu hamwe, aho bafite impapuro nyinshi bamanitse hejuru bazunguza mu kirere, bari kumwe n'umugabo ari na we uri kubaha izo mpapuro, bisa n'aho bishimye cyane kandi bishimiye ubuzima babayemo.

Abantu bari mu nzego zitandukanye bateraniye hamwe mu nzu imwe aho bicaye, bakaba bari gufata amasomo ajyanye n'uburyo bwo kwiyitaho mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse hakaba hari n'umugabo umwe wambaye ikoti ariwe uri kubahugura.

Abantu bane umwe ateruye umwana baricaye ku ntebe isa n'aho hari ibaraza ryo kwa muganga, bari kureba imiti babahaye ndetse bamwe bari gusoma makayi aho bashaka kunywa imiti nk'uko babitegetswe na muganga.

Abantu benshi cyane bateraniye mu nzu mberabyombi, aho baje kumva impanuro z'abagabo babiri, bari kubabwira uburyo bwiza bwo kwirinda icyorezo cya mariburu.

Muri gahunda yo guteza imbere ubuzima bwiza, harimo mbere na mbere kugeza amazi meza kuri bose, aho nk'abanyeshuri bakiri bato baba bagomba kubona amazi ahagije, ndetse bakabona n'ibikombe byiza bisukuye byo kuyanywesha.

Gahunda yo guteza imbere ubuzima bwiza kuri bose ntawe uhejwe twavuga ko ishyirwa mu bikorwa n'abaganga, abayobozi mu nzego zitandukanye yaba abirabura n'abazungu, ahubwo buri wese akumva ko ari inshingano ze.

Umwana muto cyane wambaye impuzankano y'ishuri, yambaye ingutiya y'umutuku ndetse n'ishati itukura irimo amabara y'umweru, idodeyeho na karuvati, akaba ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe.

Nyuma y'umuhuro ukomeye wari wahuje abantu bari mu ngeri zitandukanye, bakora mu nzego z'ubuvuzi bari kwifotoza imbere y'inzu nziza cyane iriho igipapuro inyuma yabo, bakaba bose bambaye amakarita y'akazi agaragaza akazi bakora.

Umukecuru wambaye ishati yo mu gitenge ndetse akaba akenyeye n'ikindi gitenge akikijwe n'abana batoya cyane ubona ko bishimye bisa naho ari umubyeyi wabo mbese ni umuryango ufite ubuzima bwiza.

Abantu babiri barimo umugabo ufite ingata akaba yambaye ipantaro yikoboyi n'inkweto zifunze. Imbere ye hari umwana muto cyane uri guterura indobo y'umuhondo yuzuyemo amazi akaba ari gushaka kuyikorera nyuma yo kuvoma.

Inzozi y'ibitaro ikaba iteye irangi ry'ubururu irimoparafu nziza cyane aho ifite ibaraza rinini yicayemo abarwayi benshi cyane biganjemo abagore aho baje gushaka serivisi z'ubuvuzi kuri ibi bitaro.

Icyumba cyiza cy'ibitaro. Harimo igitanda cy'abarwayi hakaba harimo intebe ebyiri, imwe yicayeho umurwayi. Hakaba hari abaganga babiri bambaye udupfukamunwa, hariho umwe uri kumwitaho, undi akaba ari nyuma yabo abarebera.

Abantu benshi bahagaze kw'ivomero rusange aho umugore ari gupomba amazi, umwana ari gutega amajerekani kugira ngo amazi ajyemo abandi bantu bahagaze ku ruhande bari kubarebera .

Umugore w'umuganga wambaye impuzankano yabaganga yitariya, ari kuvura umwana muto aho ateruwe na mama we wambaye umupira wo mu ibara rya move bakaba bari mu bitaro.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri bari kunywa amazi bayanywesha intoki, aho bari gutega kuri robine bagatega umunwa ku ntoki bakanywa mbega usa naho nta bikoresho bitwaje nk'ibikombe cyangwa se icupa ryo kunywesha amazi.

Abantu baturutse mu ngeri zitandukanye baje bahurira mu nzu imwe, harimo abirabura n'abazungu aho bose bari kwiga ku buryo bwo kubungabunga ubuzima.

Abaganga bahagaze bambaye amataburiya y'umweru biganjemo abirabura bahagaze bifotoza bigaragara ko bishimye cyane nk'aho bamaze gutanga amahugurwa atandukanye nk'uko leta y'u Rwanda yashyizemo imbaraga kugira ngo irusheho kubungabunga ubuzima bw'Abanyarwanda.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, hari n'izindi serivisi zitangirwayo by'umwihariko nk'izo gukingira indwara, aho abantu b'ingeri zose ari abagabo n'abagore bagenda bagakingirwa kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ibigo nderabuzima byageze ahantu hose mu gihugu, aho usanga abaturage bagize ikibazo cy'uburwayi bajya kwivuza ndetse bakaba bafite aho bahurira bakicara bakaganira mbere kugira ngo bitabweho n'abaganga mbega bishimye.

Amagambo ari mu ibara ry'umukara. Ari mu ibara ry'icyatsi, ndetse ku ruhande hakaba hari igishushanyo kiri mu ibara ry'icyatsi hejuru hari akadomo. Ayo magambo asobanura ko hari ibitaro byita ku bantu bafite imitekerereze itari ku murongo.

Umugabo wambaye ibyenda by'ibishwambagurike cyane, akaba afite umusatsi wamwereyeho, ari gutembera mu muhanda bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, mu muhanda muri kaburimbo hakaba harimo ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodoka.

Abana benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bose bambaye imyenda y'umuhondo bakaba bafite n'udupapuro bari kwitega mu mutwe, barishimye cyane bigaragara ko bafite ubuzima bwiza ndetse bakaba nta n'ibibazo byo mu mutwe bafite.

Nyuma y'uko abantu bari mu ngeri zitandukanye biganjemo abapolisi bari bari mu nama yo kwiga ku kibazo cy'imitekerereze, barangije inama baza kwifotoreza ahantu heza cyane hari igikuta gishushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda.

Umugore witeze igitenge ubona ko ari umugore usa neza ukiri muto, yakambije umunya bisa naho afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se ibindi bibazo bitandukanye.

Abantu icumi harimo abagabo batandatu n'abagore bane bari kwifotoza nyuma yuko bamaze kuganira ku ndwara yo mu mutwe bakaba bafashe n'ingamba z'uburyo bwo kuyirinda no kuyirwanya.

Abantu babiri umugore n'umugabo baricaye, umugabo yambaye agapfukamunwa umugore we ntako yambaye bafite mikorofone aho bari kuganiriza abantu kubijyanye n'ubuzima.

Nyuma y'uko hamaze kugaragara ko hari ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, urubyiruko mu nzego zitandukanye rwateraniye mu nzu, aho ruri kwiga ku buryo bwo kwita ku buzima by'umwihariko ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore wambaye ishati iri mu mabara abiri iry'ubururu ndetse n'iryumuhondo, ahagaze impande y'inzu n'igipangu byubakishije amatafari ahiye aho afite agapapuro kagaragaza ubuzima bwo mu mutwe.

Nyuma y'uko umuntu agize ibibazo bitandukanye bimuhangayikisha bikamutera icyizere, ari kurira akarira ijisho rimwe ndetse bigaragara ko ababaye cyane.

Umugabo wambaye ikoti, yambaye ingofero y'urugara, yambaye isaha ndetse n'udukomo. Aricaye aho ari kwitekerezaho, bisa n'aho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umusaza uri mu zabukuru, afite icumu mu ntoki, yambaye ishati ya karokaro, yiteye umukenyero w'umuhondo, akaba yambaye ingofero ikozwe mu mwenda. Ni umusaza usa n'aho ari mu zabukuru, ndetse amenyo ye y'imbere yavuyemo.

Inzobere ndetse n'abandi bose bakora mu nzego z'ubuvuzi bari kwifotoza nyuma y'uko bari bavuye mu nama yiga ku buryo bagomba gufata abafite indwara zo mu mutwe n'uburyo bagomba kubitaho babavura.

Abantu icyenda barimo abagore batanu ndetse n'abagabo bane, barahagaze bari kwifotoza ariko muri abo bagabo hakaba harimo umwe w'umupolisi aho bahagaze imbere y'icyapa cyanditseho kacyiru.

Umugabo ufite umusatsi mwinshi, yakenyeye igitenge akaba yicaye ku mugenda wa rigori ahantu mu murima, bigaragara ko ari umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Akaba afite n'ibyenda bisananaguje imbere ye.

Umugabo ufite umusatsi w'injwiri yambaye umupira w'umukara, aho yicaye yipfutse mu maso, akaba afite ikibazo cyo mu mutwe aho yababaye cyane. Akaba yicaye impande y'inzu.

Amagambo yanditse, mu ibara ry'umukara, hasi hakaba hari ibipupe, biri mu mabara y'ubururu n'icyatsi, aho bigaragaza abana. Ayo magambo asobanuye ko ubumwe ari inkingi y'iterambere ndetse bushobora no gufasha mu buryo bwo kurwanya indwara zo mu mutwe.

Imodoka nini cyane ifite ibara ry'umweru; iparitse ahantu mu murima hari ubwatsi; inyuma hakaba hari intebe nyinshi z'ibirori; bigaragara ko ari hantu habereye ibirori cyangwa se hahuriye abantu benshi mu bundi buryo.

Umugabo ufite ubwanwa burebure cyane ufite ibisatsi by'ibiderede afite inyinya yambaye ibyenda byacikaguritse cyane asa naho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe akaba ahagaze imbere y'inzu.

Ubuzima bwo mu mutwe n'ubuzima bukwiye kubungwabungwa cyane by'umwihariko mu bana ndetse n'abari mu zabukuru kuko akenshi usanga aribo bantu badafite icyizere cy'ejo hazaza aho usanga abana bicaye mu rugoranye na ba nyirakuru ariko ubona ko batishimye cyane ko baba bumva ntacyo bashoboye.

Agapira keza cyane, kari ibara ry'umweru, aho amaboko ndetse n'ijosi biri mu mabara y'ubururu, inyuma handitseho amagambo y'impine aho handitseho P, R ndetse na S mu ndimi z'amahanga.

Uburezi kuri bose ni gahunda yatejwe imbere na guverinoma y'u Rwanda, kugira ngo uburezi bugere ku baturarwanda bose ndetse n'abanyamahanga batuye mu rwanda, nta guheza ari abana b'abakobwa ari abahungu bose bakabasha kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu.

Akenshi abana baba batembera mu buryo butandukanye, ubona bishimye n'ubwo baba ari abo mu cyaro, bamwe bambaye inkweto za bodaboda z'icyatsi, abandi ntazo, bafite utudomora, bambaye imyenda igaragara ko idasa neza, bari ahantu hameze nko mukiraro.

Mu buryo bwo gukemura ibibazo abaturage bafite by'umwihariko iby'ubuzima, hakorwa inama aho bahurira ahantu hamwe bakaganira ndetse bakarebera hamwe ibibazo baba bafite kugirango babishakire ibisubizo.

Umukobwa yicaye mu ntebe akaba yambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'isengeri y'umukara, ni umukobwa wishimye cyane bigaragara ko anezerewe ndetse akaba ntakibazo afite cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugabo w'umwirabura w'igikara, arimo araseka afite ubwanwa yambaye ishati y'amaboko maremare iri mu ibara ry'icyatsi, inyuma ye hari abantu benshi, hari umugabo wambaye ipantaro y'umweru, umupira w'umutuku ndetse n'ingofero y'umukara.

Umugore witeze igitambaro cy'umuhondo, yambaye agapira k'icyatsi k'amaboko magufi, yambaye isaha ndetse n'ingutiya idoze mu gitenge, yicaye ku ntebe y'urubaho, inyuma ye hari igikuta giteye irangi ry'umweru gishushanyijeho n'ururabo.

Umukobwa umwe mubitinyutse, akaba yambaye ijire y'umuhondo ari gucuruza mu nzu irimo ibikoresho bitandukanye, ikaba irimo agatanda kariho ibirungo byifashishwa mu guteka isosi bitandukanye ndetse n'udusahani dutoya.

Abantu icyenda barimo abagore babiri n'abagabo barindwi bahagaze imbere y'imodoka bari kwifotoza bigaragara ko ari ahantu habereye ibirori kuko hari n'ibidara byubatswe inyuma yabo.

Abantu batandukanye bicaye mu matsinda bicaye babiri babiri basa n'aho hari ibiganiro byahuje inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'abandi bantu batandukanye, bakaba bari kubaganiriza uburyo bagomba kuyitaho.

Umugabo wambaye imyenda yacikaguritse cyane akaba yambaye ndetse yiziritseho n'ibindi bintu byinshi bicikaguritse by'imyanda ari ahantu harundwa imyanda aho bigaragara ko ari umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe.

Inyubako nini cyane y'ubuvuzi iteye amarangi y'umweru, inyuma yayo hari ubusitani ndetse hakaba n'ibyapa bisobanura neza icyo iyo nyubako ikora.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko, bakaba bari kwifotoza bari kumwe n'umugabo w'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe. Bakaba bari kwifotoza nyuma yuko bavuye mu nama, yiga ku buryo banoza serivisi batanga.

Abana biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano bose bakaba bicaye mu ishuri aho buri wese yazamuye umuti w'amenyo akoresha yoza amenyo ye.

Abanyafurika bamaze gusobanuka cyane aho baba bagomba kwita ku buzima bwabo by'umwihariko ubuzima bw'amenyo. Aha twavuga nk'inyubako ziba zigaragara zubatswe cyane cyane muri Afurika, ugasanga nk'inyubako nziza igeretse gatatu, iteye amarange atandukanye, ifite ibirahuri byiza bibonerana ikoreshwa mu buvuzi bw'amenyo.

Umurwayi ari kwa muganga aho yagiye kwivuza amenyo, aryamye ku gitanda abaganga babiri bari kumuvura, umwe afite makasi akaba afite n'akandi kantu koza. Yambaye uturindantoki tw'ubururu n'undi akaba yambaye uturindantoki tw'ubururu. Bose bakaba bari kumuvurira icyarimwe.

Uburyo bushya bwadutse muri iyi minsi bwo gukoresha akadodo gato mu gukura imyanda mu menyo iba yafashemo mu mwanya wo gukoresha ibizwi nka kirida aho byangizaga amenyo ndetse n'ishinya.

Inzobere mu by'amenyo zakoze inama yiga ku buryo bakigisha abantu kwita ku menyo yabo, nyuma y'inama bishimanye, bakaba baje no kwifotoza ifoto y'urwibutso.

Abaganga babiri bambaye amataburiya ndetse n'udupfukamunwa bari kuvura umwana muto indwara z'amenyo ndetse nawe akaba yambaye agapfukawa gatukura, aho yakamanuye munsi y'akananwa.

Umusaza wambaye amarinete yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse afitetembe nyinshi bigaragara ko ari mu zabukuru afite umuti agiye kunywa asa naho afite ikibazo cy'amenyo.

Umuganga wambaye amarinete, yambaye uturindantoki ndetse n'umwenda w'akazi, afite utwuma dutandukanye, ari gusuzuma undi murwayi amenyo ngo arebe ko yamuvura.

Muri rusange abantu bafite amakuru menshi ajyanye n'ubuvuzi amenyo aba ari mu byiciro bitandukanye, aho hari amenyo y'imbere, ayo hagati n'ay'inyuma ndetse amenyo akaba agenda aba manini cyane kurushaho uko agenda yigira inyuma mu kanwa.

Umugabo ufite ubwanwa ni umugabo w'umwirabura, akaba afite agakoresho kagezweho kuri ubu ngubu, aho gakoreshwa mu buryo bwo gukora imyanda mu menyo, hatifashishijwe uburyo busanzwe bwo gusukura amenyo nko gukoresha uburoso ndetse n'umuti w'amenyo.

Umugabo w'umwirabura, ufite amenyo meza cyane y'uruhehemure, ari gukozamo akadodo gato kabugenewe, kifashishwa mu gusukura amenyo, batifashishije umuti w'amenyo ndetse n'uburoso mu koyoza.

Mu buryo bwo kwita kw’isuku y'amenyo ni ngombwa ko umubyeyi, by'umwihariko abagore bita ku bana babo babigisha uburyo basukura amenyo yabo, hifashishijwe uburoso n'umuti w'amenyo.

Umugabo afite akadodo kifashishwa mu gusukura amenyo nkuburyo bushya bwazanywe mu mwanya wo gukoresha kirida arahagaze yambaye ubusa hejuru akaba afite ni'isume k'urutugu

Umugabo wishimye cyane w'umwirabura, afite akantu kariho insimburangingo z'amenyo, bisa naho ari ko bashira mu kanwa k'umuntu iyo afite ikibazo cyo kuba yarakutse amenyo cyangwa afite amenyo mabi atishimiye.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa ari kwita ku menyo ye yifashishije agakoresho kazwi cyane akadodo, aho ari gukura imyanda mu menyo ye ayasukura.

Mu buvuzi butangwa mu bigo nderabuzima n'ibitaro bitandukanye harimo n'ubuvuzi bw'amenyo, ndetse hakaba hari n'inzobere zizi gusuzuma indwara z'amenyo zifashishije ikoranabuhanga ritandukanye.

Ubuzima bw'amenyo buri kubungabungwa cyane aho hari gukorwa ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abafite ibyo bibazo ndetse hagakoreshwa n'intebe kabuhariwe umurwayi aryamaho.

Iyo umuntu ari kwa muganga, akenshi aba yambaye itaburiya y'umweru, bigaragara nk'aho bagiye kumuvura, akaba afite agatambaro kamukingira, mbega ubona ko yiteguye.

Abana bato biga amashuri abanza bambaye impuzankano, umwe muri bo akaba yambaye n'umupira w'imbeho udoze mu budodo. Buri wese akaba afite uburoso bw'amenyo aho ari koza amenyo yifashishije amazi meza ndetse n'umuti w'amenyo.

Umuganga w'umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'itariya, ari gukura amenyo umusaza wambaye agapira k'icyatsi, aho bari mu bitaro, iruhande rw'inzu hakaba hari amarido, akingirije idirisha.

Inzu nini cyane y'ubuvuzi, irimo amatara meza cyane atandatu, hakaba hari umuryango umwe, ariko mugari, irimo intebe eshatu, abarwayi b'amenyo baryamaho iyo bari kubavura.

Kwa muganga hari intebe abarwayi b'amenyo bicaraho iyo bari kubakura amenyo cyangwa bari kubavura mu bundi buryo, hakaba intebe umuganga yicaraho ndetse hakaba n'ibindi bikoresho by'umuriro w'amashanyarazi byifashishwa na muganga.

Umwana mutoya cyane afite ikibazo cy'uko afite uburwayi bw'amenyo, aho atandukanye cyane ibizwi nk'inyinya, bakaba bari kumuvura rero kugira ngo babashe gusibanganya iyo nyinya.

Nyuma yuko iterambere rimaze kwiyongera mu nzego zose ubuvuzi nabwo ntibwasigajwe inyuma, aha twavuga aho umuntu afite ikibazo cy'amenyo ahabwa insimburangingo z'amenyo, mbega akajya ayambara ubona ko agaragaza amenyo asa neza muri rubanda.

Abana 3 bakiri batoya biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano y'ishuri. Bose bakaba bafite uburoso bw'amenyo ndetse bari koza amenyo bifashishije amazu meza ndetse n'umuti w'amenyo.

Amakuru mashya amaze kugera ahagaragara n'uko abantu bagiraga ibibazo by'amenyo by'umwihariko abantu babona batishimiye amenyo yabo ,ubu hari uburyo bwaje bushya aho umuntu apimwa amenyo ye ndetse agahabwa insimburangingo z'amenyo mashya agaragara neza gusumbya aya asanzwe afite.

Amenyo ari mu ngingo ndende cyane, aho bigaragara ko igice kiba cyihishe aba ari kinini cyane gusombya iryinyo tubonere inyuma.

Umurwayi uryamye ku gitanda afite amaderede ndetse ni inzobe ari kwitegereza umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki aho agiye kumuvura indwara zitandukanye z'amenyo.

Nyuma y'uko ubuvuzi bw'amenenyo bumaze gutera imbere, hari uburyo bwagiye bushyirwaho na leta bwo kubungabunga ubuzima bwa muntu by'umwihariko abafite indwara z'amenyo, aho babakura bakabakurira ku ikigo nderabuzima bakurwa n'abaganga b'inzobere kandi bafite ibikoresho byuzuye.

Mu kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi n'umwana hatangwa ubufasha butandukanye aho bahabwa ibikoresho by'isuku babihabwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi hano mu rwanda by'umwihariko abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi.

Kera abantu bari bazi ko imyitozo ngororamubiri ikorwa n'abakiri bato ariko ubu ngubu abasaza n'abakecuru, basigaye bagenda bagaterura ibyuma ndetse bagakora n'indi myitozo itandukanye ngororamubiri.

Umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bisa n'aho yari atakibasha kugenda, ari kwa muganga mu cyumba aho ari kumwe n'undi mugore, icyo cyumba kirimo ibindi bikoresho bitandukanye birimo ameza ndetse n'intebe.

Hari amakuru agenda avugwa ku bantu bageze mu zabukuru cyane cyane ntavugweho rumwe bitewe n'imyumvire, ariko akenshi na kenshi abantu bazi kuyitaho burya urukundo si urw'abato ahubwo n'abakuru barishimana bakibukiranya ibihe by'ahashize Banyuzemo.

Umuryango wishimye cyane urimo abakecuru babiri, umusaza umwe, abana babiri b'abakobwa, ndetse n'umugabo, baricaye hamwe mu nzu bari kuganira ndetse barishimye cyane.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y' yumukara, usa naho arwaye hakaba hari n'umuforomokazi wambaye impuzankano y'abaganga, uri kumufasha gutambuka aho bari mu nzu y'ubuvuzi.

Ikintu cya mbere tugomba gutoza abari mu zabukuru ni ugusoma aho umusaza n'umukecuru banshobora kwicara bagasoma impapuro mu mwanya wo gukoresha telefone bakicarana ahantu hisanzuye hari intebe zihagije ndetse hahurira abantu benshi.

Umusaza wambaye amataratara afite ikaramu mu ntoki, yambaye ishati ijya gutukura, akaba ari umusaza ufite imvi. Ari gusoma ikayi yiyibutsa ndetse anatoza amaso ye kureba.

Umugabo ugeze mu za bukuru afite umusatsi w'imvi akaba yambaye amataratara, yambaye ishati y'icyatsi ndetse n'umupira w'amaboko maremare aho ari kwandika mu ikayi bisa naho atareba neza.

Umugabo uri mu zabukuru ari kumwe n'umugore bigaragara ko we akiri muto aho ari kumuhagurutsa ku buriri usa naho afite ikibazo cy'uburwayi

Abantu babiri umugabo wambaye ishati ya karokaro ariko bisa naho ageze mu zabukuru ari kumwe n'undi aho bagiye kwiyakira mu nzu nziza cyane bari kurya ibiryo byiganjemo imboga ndetse ku ruhande bafite n'ikirahuri kirimo amazi.

Umusaza uri mu zabukuru yambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ishati y'amaboko maremare, akaba yifotoranyije hamwe n'umukobwa wambaye ikote ry'ikoboyi ndetse n'amarinete, aho bishimye cyane, bakaba ari umuryango umeze neza.

Umugore wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'isengeri y'ubururu, yicaye hasi yarambuye ukuguru kumwe ukundi yaguhinnye, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaboko kugira ngo akore ku mano.

Umusaza ufite imvi, bigaragara ko ashaje cyane, yicaye mu bwogero aho undi muntu ari kumukarabya umutwe ndetse amazi akaba ari guturuka hejuru.

Ni abagore batatu bicaye mu nzu, umwe yambaye ingofero y'ubudodo undi yambaye ingofero y'urugara mu mu gihe undi nta ngofero yambaye. Bari kureba muri telefone aho bari kuganira ku buryo bashobora kwihangira imirimo biciye mu mirimo bakoresha intoki zabo.

Umudamu w'umwirabura, yambaye umupira uri mu ibara ry'umweru, afite ifoke n'isahani iriho ibiryo, arishimye cyane, yambaye amaherena, ari mu nzu irimo akabati kari mu ibara ry'umweru ndetse ku gikuta cy'inzu hari irangi ry'umweru.

Mu kubungabunga ubuzima bw'abantu by'umwihariko abageze mu zabukuru baragirwa inama yo kurya ibiryo byuje intungamubiri by'umwihariko ibiriho imboga n'imbuto ahubwo bakarwanya ibiryo birimo amavuta nk'imigati.

Mu nyubako y'ubuvuzi harimo umusaza ufite akantu k'akagare, aho ari kumwe n'undi muganga w'umukecuru wambaye ishati y'umweru, bari mu nzu irimo inzugi z'ibirahuri ndetse irimo n'amakaro.

Umusaza wicaye mu kagare, urimo useka cyane, wambaye n'amarinete, inyuma ye hari umukobwa uri kumusunika mu kagare, bari mu kibuga kiza cyane, imbere y'inzu ubona ko ifite inzugi z'umukara ndetse hakaba hari n'ibiti byiza cyane.

Abadamu beza cyane bigaragara ko bakora kwa muganga, bambaye amataburiya y'ubururu ndetse bari kugenda mu muhanda, bambaye amajingisi meza ndetse n'inkweto za supuresi ubona ko basa n'abari muri siporo.

Abagore icyenda batonze umurongo basa naho bari kubyina, abenshi muri bo bambaye ingutiya z'umukara ndetse n'udupira tw'umweru turiho ikirango cyo kurwanya sida.

Umugabo wambaye ikabutura n'inkweto zifunze, akaba ari hamwe n'umwana muto w'umukobwa, ufite baro, aho bari gukina mu kibuga cyiza cyane, inyuma yabo hakaba hari inzu ndetse n'ubusitani.

Ubukerarugendo bukorwa ahantu hatandukanye by'umwihariko nko m'u Rwanda hari ubukerarugendo bukorerwa ahantu hakorerwa ibikoresho bya kinyarwanda, ugasanga abazungu baje kubireba bishimye cyane.

Abantu batatu barimo umukecuru ufite imvi z'umweru n'abandi bakobwa babiri, umwe mutoya ufashe amakarita abiri. Barishimye cyane bisa naho aba bakecuru baje gushaka serivise z'ubuvuzi.

Mbere na mbere hari ubwo imyitozo ngororamubiri yagaragaraga nkaho igenewe urubyiruko ndetse n'abakiri bato muri rusange, ariko kuri ubu abakuze nk'abakecuru n'abasaza, nabo bakora imyitozo ngororamubiri by'umwihariko wabifashijwemo n'abana bakiri batoya.

Abagore batanu bari mu murima w'icyayi aho bari gusoroma icyayi hamwe n'undi mugabo umwe uri kuhande bari kugisoroma muburyo bwo gushaka amafaranga kugira ngo babashe kwitunga bagire ubuzima bwiza.

Abantu babiri, barimo umugabo ufite amatuza manini cyane, usa n'aho akiri muto, uri kumwe n'umukecuru na we udashaje cyane, bambaye udupira tw'amaboko magufi, aho bari gukora imyitozo ngororamubiri, bari gutera mucaka.

Umukecuru useka neza cyane wambaye ishati y 'yumweru akaba afite umusatsi w'imvi z'mweru zererana undi mukobwa wambaye ishati y'icyatsi irimo uturongo tw'umweru barishimye cyane aho bari mu nzu irimo ibindi bikoresho bitandukanye nk'intebe ndetse n'ameza .

Kwa muganga abarwayi baryamye ku bitaro; aho abaganga bambaye impuzankano y'icyatsi gihiye; bari kwita ku barwayi; bose bambaye udupfukamunwa kugira batandura.

Abana baturutse impande zombi abakuru ndetse n'abato bahuriye mu muhanda aho ari ku munsi mpuzamahanga, urubyiruko rwo mu Rwanda rwizihizaho umunsi wo kurwanya SIDA, ariho banakangurira abantu bose kwipimisha.

Abantu benshi cyane, bateraniye mu nzu imwe, aho hari abashyitsi batandatu b'imena bicaye imbere yabo, barimo umugore umwe n'abagabo batanu, bakaba bari kubaganiriza uburyo butandukanye bwo kwita ku buzima.

Umwana muto w'uruhinja asa n'aho ataragira imyaka ibiri aho aryamye hasi hakaba handitseho rimwe hirya handitseho ko habura umunsi umwe ngo habe igikorwa cyo kwandika umwana mu irangamimerere.

Mu ingamba zishyirwaho by'umwihariko iz'ubuzima, ziba zigaragaza uburyo umuntu akwiye kwitwara kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, zigaragaza ibipimo cyane cyane bitandukanira mu mabara, umutuku, ubururu, icyatsi, n'umuhondo.

Inama yahuje abantu bari mu ngeri zitandukanye, barimo abakora mu nzego z'ubuzima, hari abashyitsi batatu b'imena barimo umugabo umwe n'abagore babiri, aho bari kwigisha abantu uburyo bwo kwiyitaho ndetse bakagira ubuzima bwiza.

Ibiribwa birimo karoti bikabamo ibibiringanya hakabamo urusenda pavuro igitunguru n'ibindi bitandukanye tugirwa inama yo kubirya kuko bishyirwa mu cyiciro cy'imboga kandi bikaba birinda indwara.

abantu bane b'abirabura barimo abakobwa babiri n'abagabo babiri, barishimye cyane aho bafite igipapuro gishushanyijeho udukingirizo. Bakaba bari gukangurira abantu gukoresha agakingirizo, birinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Inyubako ya Kigali komvesheni senta, ni inyubako ifite amabara atandukanye yaka icyatsi, umuhondo n'ubururu, akenshi ikaba igaragara imbere yitaruye, ahazwi nko mu mujyi hari inyubako ndende.

Inyuguti ebyiri iya ha ndetse na ra, hasi handitseho andi magambo ari mu ibara ry'umweru aho ari mu rurimi rw'i icyongereza asobanura ngo abaturage b'u Rwanda bafite ubuzima bwiza.

Urubyiruko rwiganjemo abakobwa bose bambaye imipira y'umweru, bakaba biganjemo abambaye amapantaro aho wambaye ijipo ari umwe . Bose bari kwifotoza bishimye cyane bafite ibipapuro bishushanyijeho umukobwa.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati y'umweru ari kuvura undi murwayi wambaye agapfukamunwa k'umweru nawe akaba yambaye ishati y'umweru, ari kumutera urushinge ku rutugu aho inyuma ye hari undi mugabo uri kubareba.

Muburyo bwo gushyira mu bikorwa gahunda ziba zaragera nayo zijyanye n'ubuzima abakecuru baragirwa inama yo kwisuzumisha amaso ndetse basanga bafite ikibazo cyo kutareba bakabashyiraho imiti cyangwa insimburangingo zibafasha kugira ngo barushe kugira ubuzima bwiza.

Kugira ngo hashyirwemo bikorwa gahunda zose zagenwe na leta, by'umwihariko mu kubungabunga ubuzima bw'abana, hari gahunda yashyizweho na leta aho ababyeyi bafite abana bato bajyana ku ivuriro bakabakingira, ndetse bakabaha n'imfashabere.

Abaganga bane bari mu bitaro aho bari kwita ku murwayi umwe uryamye, iruhande rwabo hari ibyumba bitandukanye by'ikoranabuhanga byiganjemo bibiri bareberaho amashusho.

Urupapuro rushushanyijeho abantu aho umuganga ari gukingira umwana muto urushinge ku kuboko hari andi magambo atandukanye ari mu mabara ubururu, umutuku, umukara n'umweru hasi hakaba hari ibara ry'umukara rikurikiwe n'ibara ry'umuhondo kuri icyo gipapuro bivuga ko ari igikorwa cy'ikingira.

Abaganga babiri bambaye impuzankano y'abavuzi, bambaye uduhishantoki ndetse bambaye n'udupfukamunwa, bari guterare urushinge umuntu basa naho bamukingira.

Abantu bakora muri serivise z'ubuganga baje gukingira abaturage babasanze mu ngo zabo, aho bari kubakingira icyorezo cya kovidi cumi n'icyenda ndetse bakanabafata amaraso bari kubapima niba bafite ubwandu bw'agakoko gatera sida.

Hari uburyo ubuvuzi bugenda butangwa ndetse n'ibigero byabwo, hari icyiciro cya mbere cyanditse mu ibara ry'umutuku, ikiciro cyanditswe mu ibara ry'ubururu, icy'icyatsi, irya move ndetse n'ibara ry'igitaka byose bigaragaza uburyo ubuvuzi bukorwa n'ingeri zabo.

Amagambo yanditse mu mabara atandukanye, harimo inyuguti ya ra, yanditse mu ibara ry'ubururu, inyuguti ba, yanditse mu ibara ry'umuhondo, n'inyuguti ya ca, yanditswe mu ibara ry'icyatsi, aho ari amagambo asobanura ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Inzu nini cyane irisaganiye akaba ari kwa muganga, inzu iteye irange ry'umweru ikaba irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Inzu y'ubuvuzi ifite amabati y'ubururu ni igorofa igeretse rimwe, iteye amarangi y'umweru imbere hari idarapo ry'u Rwanda, imbere hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'ubusitani.

Inyubako zo kwa muganga zubakishije amatafari ahiye ziteye indabo z'imitako hakaba hari inzira y'abantu ariko nanone zikaba zifite ibara z'abantu bashobora kwicaramo mu gihe bagitegereje ubafashe.

Ikigo nderabuzima kiza cyane. Ni igorofa igeretse rimwe, iteye amarangi y'umweru. Imbere ku marembo handitseho ko ari ibitaro bya Nyarugenge .Imbere mu mbuga hari amapave, hakaba harimo n'ururabo rw'igiti kirekire.

Inyubako nini cyane yo kwa muganga iteye irangi ry'umweru, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita ku barwayi harimo intebe, hakaba harimo ama mashini, hari utugare dufite amapine dutwarwaho imiti ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga.

Umugabo urwaye ari mu bitaro, ariyoroshe, aho bamushyizemo serumu, ihande rwe hari umuganga wunamye, uri gutegura imiti kugira ngo azamuvure amwiteho neza abashe gukira ku gihe.

Inyubako y'ubuvuzi nziza cyane irimo amarangi y'umweru ikaba irimo ibirahuri byiza bibonerana, harimo ibitanda biryamaho abarwayi baje kuvurwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga.

Kwa muganga hari abaganga babiri n'umurwayi umwe bicaye mu nzu aho umuganga umwe ari kuganira n'umurwayi amufata ibizamini akandika mu ikayi, undi we akaba ahagaze nyuma yabo aho ari gusoma mu gitabo.

Ahantu heza cyane hari inyubako z'ubuvuzi zitaruye, hari inzira z'abagenzi imwe irimo amapave, indi iteye sima, hakaba hari ubusitani burimo umucaca ndetse n'izindi ndabyo ndende, hari amapoto ariho amatara ndetse n'igipangu cyiza cyane cya senyenge.

Inyubako nini cyane y'igorofa igeretse rimwe, ikaba ari iy'ibitaro, ku ruhande hateye ubusitani ndetse hakaba harimo n'inzira z'abanyamaguru, aho hari n'icyapa cyerekana serivise zihatangirwa.

Inyubako nini cyane, ni igorofa igeretse rimwe, iteye irangi ry'umuhondo, ikaba isakaje amabati atukura, ifite imbuga ngari cyane, irimo amapave, hakaba hari n'ubusitani buteyemo umucaca, aho ku ruhande rumwe hari darapo ry'u Rwanda.

Abavuzi babigize umwuga kenshi bari gukorana n'abakobwa babiri bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'umusore umwe bari kumwe, bari mu bitaro bafite ibikoresho bitandukanye bafite agacupa k'amazi ndetse bari imbere yatagele nziza y'umweru n'inzu ifite amadirisha y'ibirahure.

Ibitaro byiza cyane bikaba birimo amazu menshi cyane, bifite igipangu giteye irangi ry'umweru aho bifite amarembo meza cyane y'urugi rukoze mu byuma, ruteye irange ry'ubururu, imbere hari umuhanda wa kaburimbo ndetse hakaba n'icyapa kigaragaza serivisi zitangirwa muri ibi bitaro.

Inzu nziza cyane y'ubuvuzi iriho irangi ry'umweru imanitseho isaha, ku ruhande rumwe hari icyapa cy'icyatsi, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga byiganjemo ibitanda by'abarwayi ndetse na mudasobwa zifashishwa na muganga.

Inzu nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'icyatsi, imbere yayo hari ubusitani, hakaba hari n'inzira y'abanyamaguru akaba ari inzu izajya ikorerwamo n'ababyeyi bagiye kubyara kwa muganga ariko ikaba itaratangira gukorerwamo.

Inzu nziza cyane iteguye irimo intebe zitandukanye z'amadive. Ni inzu iteye amarangi y'umuhondo, iriho inzugi z'ibiti, hakaba hari udutebe dusanzwe turimo ibara ry'umukara dukikije ameza.

Igipangu cyiza cyane cyubakishije amatafari ahiye ku nkingi, hagati hakaba harimo ibyuma biteye amarangi y'umweru. Akaba ari igipangu cy'ibitaro bya Ruhengeri, aho ku ruhande hari kaburimbo ndetse n'inzira y'abanyamaguru iri kugendamo abantu.

Inyubako nini cyane y'ubuvuzi, irimo amatara meza cyane, ikaba irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Inzu nini cyane yo kwa muganga iritaroye aho ari gorofa hakaba hari ibikoresho bitandukanye bizwi nk'ibyuma biterwa mu gihe cyo gukora imyitozo ngororamubiri.

Inzu nini nshyashya irimo parafo igezweho akaba ari inzu y'ibitaro bigaragara ko batarabitaha, biteganyijwe ko izajya ikorerwamo serivisi zisumbuye nk'izikorerwa kubitaro.

Abantu barindwi bambaye amashati y'umweru, harimo umukobwa umwe abandi ni abagabo, bakabo bose bafite udutete mu ntoki turimo agapapuro gasa umweru, bakaba bari imbere y'inzu nziza cyane yanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, yambaye agapfukamunwa, ndetse akaba afite n'akuma gatima gutera ku mutima, ari gupima umwana mutoya, aho uwo mwana yazanye n'umuhungu mukuru we, bakaba bari kwa muganga.

Abantu batatu baricaye harimo umugore umwe wambaye uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa yakamanuye ku kananwa bisa n'aho ari umuganga, akaba ari kugira inama abakecuru bari kumwe aho yabasanze mu rugo i wabo.

Udupaki twa pulasitike tuzirikiranyije hamwe, akaba ari udupakiye turimo imiti ijya kuba umukara, imbere hakaba hari umuntu uri gutambuka bisa naho yaje kureba umurwayi urwariye kwa muganga.

Inyubako nini cyane y'ubuvuzi irimo parafo y'umweru ikaba irimo amatara meza agezweho, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita ku barwayi by'umwihariko abarwayi bafite ibibazo by'ingingo, aho babacisha mu cyuma bakamenya ikibazo bafite.

inzu nini cyane y'ubuvuzi igeretse rimwe hasi hateye amarangi y'umuhondo aho abantu bahagaze mu ibaraza hariho umugabo uteruye umwana n'undi mugore ndetse hakaba hari n'abaganga bari mu nzu aho bari kugaragarira mu madirishya.

Kwa muganga, umuganga w'umugore arimo aravura umugabo wambaye agapfukamunwa n'ingofero akaba aryamye ku gitanda arwaye, aho umuganga ari kumwitaho yita ku kuboko kwe.

Abakora amasuku kwa muganga bari gusukura icyumba kiryamyemo abarwayi benshi cyane, aho bari mu bitanda bitandukanyijwe na marido kugira ngo umurwayi umwe abe atareba undi.

Inyubako nini cyane yitaroye y'ubuvuzi ifite amabati y'icyatsi ikaba yubakishije amatafari ahiye iriho icyuma cyinjiza umuyaga mu nzu ndetse imbere hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'indabo nziza cyane.

Kwa muganga hari inzu ngari cyane igiye irimo ibyumba bitandukanye aho bishyirwamo umuntu ku giti cye, buri cyumba kikajyamo umuntu umwe. Ni inzu ngari cyane irimo ibirahuri hejuru ndetse n'amatara meza.

Inyubako zitandukanye z'ubuvuzi ziba ziri ahantu hitaruye mu mashyamba ahantu haboneka umwuka mwiza abantu bahumeka hakaba hari idarapo hakaba ari ibitaro inyubako ziriho amarangi atandukanye n'amabati ndetse n'inzira z'abantu mbega ahantu abantu bisanzurira.

Abagore babiri bari kwifotoza umwe ni umubyeyi uteruye mwana, undi akaba ari mushuti we wambaye amarinete, ndetse akaba ari umuganga, bari mu bitaro aho bitegeye igikuta kiho urugi.

Inyubako y'ubuvuzi ifite ibirahuri binini cyane iriho amafoto y'abantu batandukanye umukobwa wambaye linete, umugabo wambaye isengeri n'undi mukobwa wambaye linete witwa Hugo aho ari amafoto ariko birahure.

Mu bitaro akenshi haba hari ahantu hitaruye aho ibitaro bifite amarangi atandukanye, ariko hari n'ubusitani hakaba hari imikindo hari inzira z'abantu, hakaba hari amatiyo azamura umwuka mu byobo ndetse n'ibindi.

Inzu nini cyane igereretse rimwe, ni inzu icururizwamo imiti yo kwa muganga, imbere y'iyo nzu hakaba haparitse imodoka, ndetse ku mbuga yayo hakaba hari n'amapave.

Mu bihugu bitandukanye inzu z'ubuvuzi ziba zifite ibice bitandukanye, ariko by'umwihariko ahantu hakirirwa abarwayi hakaba hari intebe nziza cyane kandi nyinshi zihagije ku buryo buri murwaye wese uje kwivuza abasha kwicara kandi akamererwa neza.

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi ifite koridoro ndende irimo amatara meza iteye amarangi y'umweru, ikaba iriho n'igishushanyo ku gikuta cy'umutako, ikaba ifite inzugi nini z'ibiti.

Inzu nziza cyane kandi nini y'ubuvuzi, yubakishije amabuye ndetse ifite n'ibaraza rinini, aho abantu babiri barimo umuganga ndetse n'undi umwe utari umuganga bari kunyura bagenda batembera.

Ikigo nderabuzima cyo mu Rwanda usanga ari ikigo kiri ahantu heza, hagera umuhanda, hari jaride y'indabo, z'amabara atandukanye, nk'umuhondo, n'umweruru, akaba ari inzu yubakishije amatafari ahiye, ndetse ifite n'imirasire y'izuba.

Inyubako nziza cyane irimo amadirishya atatu arimo ibirahuri ,iteye irangi ry'umuhondo hejuru akabaditseho amagambo y'icyongereza aho asobanura ko ari ikigo kivurirwamo abarwayi ba kanseri mu Rwanda.

Kwa muganga nk'uko batanga serivisi zitandukanye nako baba bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, twavuga nka bombone zibamo umwuka ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inyubako nziza cyane, ikaba ari igorofa ikorerwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi , iruhande hakaba hari inzira y'abanyamaguru irimo amapave, aho iri kugendamo abantu bari kugana kuri iri vuriro ku ruhande hari ubusitani burimo umucaca ndetse n'imibi binini cyane byi'gazamarumbo.

Abagabo babiri bari mu nzu, umwe yambaye ikarita y'akazi, undi yambaye amarinete, akaba yambaye n'ijire y'akazi, yambarwa n'abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi, inyuma yabo hari ibicupa bibiri bya kizimyamoto.

Mu bitaro cyangwa se ahandi hantu hose hatangirwa serivisi z'ubuvuzi, haba hari n'inzu zagenewe ababyeyi bari mu gihe cy'ububyeyi, aha ngaha usanga ari inzu nziza ifite amarangi y'umweru, aho iba ifite n'ibaraza abantu bashobora kwicara bategereje umuntu bagiye kubyara.

Inyubako nini cyane y'ubuvuzi irimo amatara meza agezweho harimo umuntu umwe, hakaba harimo n'ibitanda by'abarwayi bitandukanyijwe n'amarido atabonerana y'igitaka ku buryo umurwayi umwe atabona mugenzi we uri ku kindi gitanda byegeranye.

Inzu nini y'ubuvuzi iteye irangi ry'umweru, ikaba irimo amatara abiri acanye, irimo igikoresho cyifashishwa kwa muganga, aho umurwayi aryama, hakaba harimo izindi ntebe zifashishwa n'abaganga, mu gihe bari kwita ku barwayi.

Inzu nziza cyane ifite amabara y'umweru imanitsemo isaha y'urushinge irimo ibikoresho bitandukanye by'ubuvuzi byifashishwa mu gupima indwara harimo ibisa n'umweru ibifite amabara y'umutuku ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inzu z'ubuvuzi aba ari inzu nziza cyane, twavuga nk'inzu usanga ifite amarangi meza meza y'umweru, ifite amarangi y'icyatsi y'imitako, aho iba ifite imiryango myiza cyane.

Inyubako nini cyane irimo etajeri zibitsemo imiti itandukanye igiye iri mu byiciro bitewe n'ubwoko bwayo, hari iy'ubururu, iy'umweru, iy'umutuku ndetse n'indi itandukanye.

Inzu nini cyane ikorerwamo ubuvuzi, irimo ibitanda by'abarwayi, ikaba irimo inzitiramubu ndetse harimo n'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'agapfukamunwa, aho ari gutembera ashyira ibintu ku murongo.

Ibikoresho bitandukanye by'ubuvuzi birimo igitanda cy'abarwayi, imiti, mudasobwa yerekana amashusho, akabati ndetse n'akagare gacungwaho imiti, biri mu nzu nziza cyane y'ubuvuzi iteye irangi ry'umweru.

Muri gahunda yo kugeza ubuvuzi kuri bose, hari inzu y'ubuvuzi yubatswe na leta yubakwa ahantu hitaruye cyane imbere hakaba hari ikibuga kinini giteyemo umucaca hakaba harimo n'igiti gitoya cy'umwembe. Iyo nzu ikikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma.

Inzu nini yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye byinshi, harimo ibisohora umwuka, harimo ibyongera umuriro mu byuma byifashishwa mu kwita ku barwayi n'ibindi bitandukanye.

Umugabo ukora mu nzego z'ubuvuzi, yagiye gutanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi mu cyaro, aho yasanze abaturage iwabo mu ngo, benshi bakaba batuye mu nzu za nyakatsi.

Ibitaro byiza cyane bifite amarembo yanditseho ngo kigina herifu senta imbere yaho hahagaze umugore uhetse umwana aho aje gushaka serivisi muri ibyo bitaro.

Inyubako y'ubuvuzi irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kubungabunga ubuzima bw'abarwayi, twavuga nk'utugare ducungwaho imiti, ibitanda by'amapine bitwarwaho abarwayi badashoboye kugenda n'ibindi n'ibindi.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye, barimo abazungu, abirabura bambaye amakarita ya kazi mu ijosi, bakaba bari kwifotoza imbere y'inzu iteye amarangi y'umuhondo, ndetse imbere hakaba hari n'umukindo.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite amabati y'icyatsi ndetse ikaba iteye n'irangi ry'umuhondo, kw’ibaraza ryayo hari inzira y’abagenzi, imbere yayo har’indabyo ndetse n'ubusitani, hirya yayo hakaba hari n'ibigega bijyamo amazi.

Inzu icururizwamo imiti, ni inzu nk'igorofa rya mbere ririmo amatara, ikaba iteye irangi ry'umuhondo, irimo utubati ndetse ikabamo n'udutanda turimo imiti itandukanye, ipanze mu bwoko.

Kwa muganga hari ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, hari ibifotora bizwi nka purinta, hakaba harimo mudasobwa, hakaba harimo utubati ndetse n'utugare ducungwaho ibikoresho bitandukanye nk'imiti ndetse n'ibindi.

Inama y'abantu benshi batandukanye yateraniye mu nzu nziza y'ubuvuzi ifite igikuta kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ikind kiri mu ibara ry'igitaka, hari abashyitsi bane b'imena bicaye imbere y'abantu aho bari kubabwira inama zitandukanye.

Inyubako nziza cyane ubona ari ikirere cyiza ikaba iri imbere y'umurima urimo ibyatsi bitoshye, inyubako ni etaje igeretse gatatu ikaba iriho urugarika ku ruhande ndetse y'amabara y'umweru n'inzugi zifite amabara y'ubururu.

Umuganga wambaye itaburiya yicaye ku gatebe gatoya gafite ibara ry'icyatsi, impande y'igitanda cyabuhariwe cy'abarwayi gifite ibara ry'icyatsi ndetse akaba ari inzu ifite urukuta rw'umuhondo.

Icyumba kigari kwa muganga kirimo ibitanda bine by'abarwayi, harimo abarwayi babiri baryamye ku bitanda bibiri buri wese icye, hakabamo n'abaganga babiri buri muganga ari kwita ku murwayi umwe.

Inyubako nini cyane yitaruye y'ubuvuzi iriho abantu baje gushaka serivisi, ikaba iparitseho imodoka, imbere yayo hari umuhanda hakaba indabo ndetse hakaba n'icyapa kigaragaza serivisi zitangirwa kuri ibyo bitaro.

Inzu nini cyane irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hakaba harimo imashini abantu bareberaho amashusho y'ibipimo by'abarwayi, harimo akandi kamashini karyamyeho umurwayi ndetse hakaba hari n'ibindi bikoresho birimo intebe n'ibitanda.

Inzu y'ubuvuzi iteye amarangi y'umweru, irimo kamera, irimo ibikoresho nk'igitanda kiryamaho umurwayi avurwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kwita ku barwayi.

Inzu nini cyane iteye amarangi y'umweru, irimo amatara meza y'umweru, ikaba ku bikuta hagiye harimo utudirisha duto duto aho turimo ama etajeri abikwamo ibintu bitandukanye.

Inyubako nziza cyane akenshi iba irimo Ventilateur, ifite parafo ifite amabara atandukanye, nk'umuhondo cyangwa se umutuku wijimye, iriho intebe nziza zitandukanye, inzugi n'amadirishya y'ibirahure byiza cyane, aho ibikuta biteye amarangi ajya kuba umweru.

Inzu nini cyane y'ubuvuzi ni igorofa igeretse rimwe ikaba irimo intebe nziza cyane ziri mu ibara ry'ubururu ikaba irimo ameza ndetse irimo n'ibishushanyo bitandukanye.

Igorofa rinini cyane ry'ubuvuzi ryubatse; rifite amabara y'igitaka, rifite ibirahuri byiza cyane bibonerana; imbere yabyo hateye imikindo aho ifasha kugira ngo haboneke umwuka mwiza ku bantu bari muri ako gace.

Ibyuma bitandukanye birimo intebe, igitanda. Biri mu nzu nziza cyane y'ubuvuzi iteye amarangi y'umweru, ikaba irimo amatara meza cyane ndetse n'ibindi bikoresho by'amashanyarazi.

Muri gahunda za leta zo kwita ku babyeyi n'abana bakiri batoya, leta yashyize imbaraga mu kubaka amavuriro ndetse n'inzu zifashishwa mu kwita ku buzima bwabo, aho usanga harubatswe nk'inzu nziza cyane ifite amarangi y'umuhondo, mbega ubona ko yishimiwe cyane n'ababyeyi.

Inyubako z'ubuvuzi, ni zimwe mu nyubako zashyizwemo imbaraga cyane muri ibi bihe, nk'uburyo bw'ingenzi bwakwifashishwa bw'ibanze kugira ngo habungabungwe ubuzima bw'abantu batandukanye, aha twavuga aho abantu nk'abanyeshuri babasha kwivuriza ndetse akenshi bikaba byubakwa ahantu hagera umuhanda, habasha kugera n'imodoka.

Inzu nziza cyane y'ubuvuzi, ifite amabati y'umutuku, ikaba ari inzu ifite ibaraza rinini riteyeho udutebe dutatu dutukura, imbere yayo hari icyapa ndetse hakaba hari n'ibiti ku ruhande.

Kwa muganga umuforomokazi wambaye amarinete akaba yambaye n'itaburiya y'umweru ari kuvura umwana muto uryamye ku gitanda cy'abarwayi, ariyoroshe bari mu cyumba giteye amarangi y'umuhondo.

Icyumba kigari cyo kwa muganga kirimo ibitanda bibiri biryamyeho abarwayi. Umurwayi umwe ni umusaza bamuteye ibyuma bituma ahumeka, undi nawe aracyari muto ariko urabona ko barembye.

Inzu ebyiri, imwe yubakishije amatafari ya ruriba, indi ikaba yubakishije beto, ikaba irimo amadirishya arimo ibirahuri by'umukara, ku ruhande hari ubusitani ndetse n'inzira y'abanyamaguru irimo amapave.

Inzu nini cyane irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ariko akaba ari inzu y'ibitaro, hanze hari ubusitani burimo umucaca, ku ruhande hakaba hateye ibiti birebire.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo ibikoresho bitandukanye, harimo mudasobwa hakabamo ameza ateguyewe neza cyane aribo ibitambaro, hakabamo intebe ndetse iyo nzu ikaba iteye irangi ry'umweru na parafo, ikaba irimo n'urugi rukozwe mu giti.

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi, isakaje amabati atukura, hirya yayo hari indi isakaje amabati ajya kuba umukara, imbere hari ibendera ry'u Rwanda, hakaba hari imihanda ya kaburimbo, haparitse amamodoka ndetse hari n'abantu bari kugenda.

Mu Rwanda hari ibitaro bitandukanye aho usanga akenshi ari ibitaro mpuzamahanga ugasanga ni ibitaro biri ku muhanda bikaba birimo icyapa kigaragaza izina ryabyo ndetse biriho n'idarapo rigaragaza by'umwihariko nk'igihugu kiba gifite imikorere n'ibyo bitaro.

Inzu nini cyane yitaruye iruhande rwayo hari inzira y'abanyamaguru harimo abantu babiri bari kugenda ku rundi ruhande hakaba hariho ubusitani burimo n'idarapo ry'u Rwanda.

Nubwo mu bihe bya kera abakobwa bahezwaga cyane, muri ibi bihe hari uburezi kuri bose aho abakobwa babasha kujya mu mashuri bakiga ubuvuzi, ndetse bagakoresha n'ibikoresho by'ikoranabuhanga akenshi byakoreshwajwe n'abahungu gusa.

Inzu y'ubuvuzi irimo ibikoresho bitandukanye twavuga nk'imiti ipfunyitse neza, ikaba iri mu bikoresho by'ubuvuzi biteye amarange y'umukara bigaragara ko ari ahantu hinjirwa nko mu muhezo hakinjirwa n'ababifitiye uburenganzira bonyine.

Icyumba kinini cyane kwa muganga kirimo ibitanda abarwayi baryamaho, kiriho amakayi bandikiramo abarwayi, kabamo amarido meza y'umweru ndetse hakaba harimo na camera z'ikoranabuhanga

Inzu nziza cyane, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ndetse hari ama esikariye, hari n'uruzitiro rw'ibyuma, ruri ku mukingo wakoteweho amabuye.

Inyubako nini cyane y'ibitaro iragutse, ikaba irimo ibitanda by'abarwayi, ikaba irimo inzitiramibu ndetse ibitanda by'abarwayi bikaba bitandukanijwe n'igikuta gifite irangi ry'umuhondo.

Inyubako nini cyane y'ubuvuzi yubakishije amatafari ya ruriba ikaba iriho inzugi nini cyane yubatse imbere y'umuhanda wa kaburimbo aho yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara mu rurimi rw'icyongereza.

Umuganga w'umugore wambaye ishati yubururu akaba asutse ibiko bigana inyuma, ari kuvura umurwayi uryamye aha mu bitaro. Afite utwoma dutandukanye twiganjemo twa tundi batereramo abantu imiti.

Inzu y'ubuvuzi iteye amarangi y'umweru ifite parafo y'umweru irimo ibyuma bitandukanye by'ubuvuzi, irimo intebe, imanitsemo isaha ndetse irimo na mudasobwa zikoreshwa mu kureba amashusho.

Abantu benshi cyane bahuriye ku nyubako y'ubuvuzi aho baje gushaka serivisi zitandukanye bamwe bicaye mu gisharagati abandi bakaba bari kugendagenda ku mbuga iyo nyubako.

Umusaza wambaye ishati itukura ndetse n'amarinete arishimye cyane aho yagiye kwa muganga ari kwitabwaho n'umuganga w'umugore, aho bamwambitse ikintu ku kuboko bakaba bari kumupima uko umutima utera.

Ku marembo meza cyane, hagaragara handitseho, Kabgayi Hospital. Mu mabara y'umweru, imbere hari inzu n'ibiti, hari abantu babiri bahagararanye, hari undi muntu uri ku igare, uhetse agakarito kabamo imigati.

Mu nzu z'ubuvuzi akenshi haba harimo akabati k'imiti by'umwihariko imiti ikoreshwa bitewe n'ingeri y'ubuvuzi bukorerwa aho ngaho abavuzi kabuharirewe, baza bakavura abana bifashishijwe ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Inyubako nini cyane y'ubuvuzi iteye irangi ry'umweru ikaba irimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi ndetse hakaba hariho n'urupapuro ruriho ibishushanyo, hakaba hari n'urundi rupapuro rugaragaza ko kwinjira ari ubuntu .

Mu nyubako nini cyane y'ubuvuzi, hateraniye abantu bafite ibibazo bitandukanye by'umwihariko abafite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru bari mu tugare aho bari kwitabwaho n'abaganga babigize umwuga.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, isengerI y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru, yazirikishije utwumvirizo ku kuboko, akaba yicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kurambura amaboko ye, akayakoza ku rukweto.

Umukobwa wambaye umupira utukura, ari kunywa amazi meza mu gacupa keza kabonerana, akaba ari kumva n'umuziki muri telefone yazitekeshijeje agakoresho k'ikoranabuhanga ku kuboko, mbega ubona ko avuye muri siporo.

Umugabo ufite utwanwa dukeya ari kunywa amazi mu icupa rya parasitike, bisa nk'aho amaze gukora imyitozo ngororamubiri kubera ko akenshi iyo umuntu amaze gukora iyi imyitozo, aba afite icyaka gikomeye cyane.

Amapaki ari mu ibara ry'umweru, ariho amabara atandukanye, hari ibara ry'umutuku ririmo amagambo yanditswe mu mabara abiri, iry'umweru n'iry'umuhondo, hari andi magambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'andi magambo yandikishijwe ibara ry'umutuku.

Ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga twavuga nk'impakasi, impapuro z'isuku, amavuta ya vazerine, udupaki turimo imiti y'amenyo, ndetse n'ibindi bitandukanye, biri mu gasanduka kamwe aho bibikwa.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse akaba yambaye n'ikarita y'akazi mu ijosi, ari kunanura umugore uryamye, wambaye ipantaro y'umukara, aho ari kumunanura mu ivi ndetse no mu kirenge.

Nyuma yuko umuntu yari avuye gukora imyitozo ngororamubiri, yagize ikibazo cyo kuba yarabiranye ukuboko mu nkokora none ari kwikanda yishyiraho agatambaro gashyushye.

Ibikoresho bitandukanye, birimo imakasi, uturindantoki, itoroshi, ibinini, ipombo z'inshinge, agapfukamunwa ndetse n'umuti w'amenyo, byose byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri.

Kwivura indwara cyangwa se kwirinda indwara, hifashishijwe imyitozo ngororamubiri ni uburyo bwashyizwamo imbaraga cyane. Aho abantu bose yaba abakobwa n'abahungu bagenda bakivuza ndetse bakitabwaho, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi, ari kunywa amazi mu icupa ry'ubururu, bisa n'aho amaze gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ananiwe ari kuruhuka.

Umuganga w'umukobwa wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'uturindantoki, yicaye ku ntebe aho imbere yagaze undi musore wambaye ikabutura ndetse n'agapira k'umweru, aho ari kumwereka uburyo bwo gukora siporo.

Umusore wambaye agapira k'icyatsi afite umupira uri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibara rya kuba umukara aho ahagaze bisa n'aho ari umuntu ukora imyitozo ngororamubiri nk'uburyo bwo kurwanya indwara.

Umugabo ubyibushye cyane afite ukuboko kubyibushye, afite umugongo uteranye ari kunywa amazi mu kagurude k'ubururu, nyuma yuko amaze gukora siporo nk'uburyo bwiza bwo kwita ku buzima bwe.

Umusore wambaye ikabutura ndetse n'umupira utukura, yambaye inkweto zifunze aho ari gukora imyitozo ngororamubiri mu nzu, iyo myitozo ikorerwamo imbere ye hakaba hari undi muntu usutamye uri kumwereka ibyo akora.

Umugabo wambaye ikabutura ndetse n'isengeri by'umukara, ahagaze ahantu hari uruzitiro, aho yamanitse akaguru kamwe ku ruzitiro akandi gahagaze hasi, akaba ari kugorora ingingo zirimo inkokorara n'amavi mu buryo bwo gukora siporo.

Hari uburyo butandukanye bwo gukora imyitozo ngororamubiri, hari aho uhagarara ugahina ukuguru kumwe, aho usa n'usutama muri angire ya mirongo icyenda, aho uhagarara ukarambura amaboko ndetse n'aho uhagarara ukarambura amaboko mu cyerekezo cy'imbere, ndetse ugenda uganisha no mu bindi byerekezo bitandukanye.

Umukobwa asobanutse cyane bisa n'aho amaze igihe kinini cyane akora imyitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura ndetse n'isutiye aho yarambererije amaguru hasi mu bwatsi nawe akunama akaba ari kunanura umugongo we.

Abaforomo n'abaforomokazi, bari kwa muganga bakaba bose bakurikiye inama kuri murandasi, aho bari kureba bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga, bakumva amakuru ajyanye n'ubuvuzi.

Umugore wambaye ipantaro imufashe cyane ndetse n'agasengeri gatoya k'umukara yicaye hasi ku k'umukega aho ari gukora imyitozo ngororamubiri iruhande rwe hari agacupa k'amazi, imashini ya mudasobwa, ndetse n'ibintu bizwi nk'ibyuma umuntu aterura mu maboko.

Uko umuntu agenda akora imyitozo ngororamubiri ku bwinshi ni nako ibitekerezo bye bigenda bijya ku murongo cyane bikamera neza kurusha uko mbere yabaga ameze atarakora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye inkweto zifunze ziri mu ibara ry'icyatsi munsi hakaba hasa n'umweru ndetse n'amabara y'umukara, aryamye ku buriri aho hari undi mugabo wambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara uri kumuvura asa n'uri kumukorera massage.

Ikirahuri gitoya giteretse ku meza ndetse hakaba hari ijagi ifashwe n'ikiganza, aho bari gusuka amazi muri aka karahuri gatoya, aho amazi asa n'ubururu ndetse n'umweru bitewe n'ahantu bari kuyasukira.

Abantu babiri umwe araryamye yambaye agapira k'umuhondo, undi akaba ari hejuru yambaye ingofero aho ari kumubwira icyo gukora, ni abantu bari mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Abantu babiri bari mu nzu ikorerwamo siporo umwe araryamye yambaye umupira w'umweru n'ikabutura ndetse n'amasogisi y'umweru, undi akaba yicaye ku ruhande aho uryamye hasi yamushyize ukuguru ku rutugu bisa nk'aho ari kumunanura mu mavi.

Ibinini biri mu moko atandukanye hari ibyumweru n'iby'umuhondo ku ruhande hari ipombo muganga yifashisha atera imiti mu maraso hakaba handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza akaba yandikishije ibara ry'umweru.

Umugabo ufite ukuboko kunini cyane, yambaye isengeri y'icyatsi, arararamye, ari kunywa amazi mu gacupa, gafite ibara ry'umukara ndetse ni ku izuba ryinshi.

Umukobwa ukora mu nzego z'ubuvuzi yambaye uturindantoki n'ishati y'icyatsi ari kwambara agapfukamunwa akaba yicaye mu nzu imbere y'ameza aho afite kompiyuta ku meza ndetse n'amakayi yo kwandikamo.

Abaforomokazi batanu bambaye impuzankano bambaye udushashi mu mutwe, baka bambaye nadupfukamunwa. Bari mu nzu y'ibitaro irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, ndetse iruhande rwabo hari ameza ariho ibisahani byo kwa muganga bishyirwaho ibyuma byifashishwa n'abaganga.

Ese wari uzi ko imyitozo ngororamubiri harimo imyitozo idasaba ingufu cyane, nubwo hari n'isaba ingufu aho uyikora ukahagera, ariko nanone ikaba atari imyitozo i kanganye kuko ikorwa n'abagabo n'abakobwa bose.

Muri iki gihe abakobwa basigaye bakora siporo, kenshi akaba yambaye nka kora y'ubururu, agasengeri k'umweru, agapfukamisha ukuguru kumwe azamura amaboko yombi. Imbere ye hari indabyo mbega ubona ko abirimo neza.

Umugabo wambaye ikabutura ndetse n'isengeri by'umukara ari gukora imyitozo ngororamubiri aho yapfukamye hasi kumukeka akarambura amaboko imbere agahina amavi agana inyuma.

Abantu batandatu baricaye aho bose ari abaganga, hakaba hari n'undi mugabo uhagaze wambaye itaburiya, bakaba bari mu nzu y'ubuvuzi aho ari kubigisha uburyo bwo gukora imyitozo ngororamubiri nk'uburyo bwiza bwo kurwanya indwara.

Umugabo urwaye uri kwa muganga ateruye icyuma ari gukora siporo iruhande rwe hari umuganga w'umukobwa wambaye agashati k'ubururu ndetse bakaba bari mu nzu y'ivuriro aho harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa n'umurwayi ndetse na muganga.

Abasore babiri bambaye amajiri ya kuruwa ruje, bateruye umuntu bisa naho yari ari gukora imyitozo ngororamubiri runaka akaba agize ikibazo cy'imvune, bakaba bamujyanye ku bitaro kugira ngo yitabweho na muganga.

Nkuko'uko ibintu byose bikorwa bigira ibikoresho bifashisha na none mu gukora imyitozo ngororamubiri by'umwihariko, imyitozo ifasha ubuzima kugira ngo burusheho kugenda neza, hari ibikoresho byifashishwa ndetse bikaba bibikwa neza kugira ngo bitarushaho kwangirika.

Nk’uko bavuga ngo imyitozo ngororamubiri n’ubuzima ni nako nanone tuba tugomba kuyitaho tukanywa amazi meza, nk'abakobwa nubwo waba ufite imisatsi ntibibabuze kuba bakora imyitozo ngororamubiri, ukaba wakumva imiziki ndetse bakumva bameze neza.

Umwana wambaye ikanzu y'umweru arishimye, ari hamwe na mama we wambaye imyenda yo mu gitenge, bicaye ku buriri bigaragara ko bagiye kuryama mu nzu iriho amarangi y'umuhondo ndetse n'urugi rufunguye.

Umukobwa umwirabura yambaye isengeri irimo amabara y'umukara, icyatsi ,ubururu ndetse n'umweru, akaba yatereye furari ku rutugu, ari kunywa amazi mu gacupa, nyuma y'uko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Igikapu kinini cyane kiri mu ibara ry'umutuku, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, harimo imakasi, ipombo ndetse n'ibindi byifashishwa mu gupfuka ahakomeretse.

Imyitozo ngororamubiri ikorwa mu byiciro bitandukanye aho usanga akenshi na kenshi ari imyitozo ikoreshwa mu kugorora mu ngingo aha twavuga aho umuntu ashobora kwicara akarambura amaboko agakora ku mano bigaragara ko ari kurambura umugongo.

Umugabo wambaye ikabutura ndetse n'umupira by'umukara yambaye urukweto ukuguru kumwe, aho ukundi ukuguru bari kuumuzirika bande akaba ari kuzirikwa n'umuganga, uyu musore akaba yatsikiye ubwo yakoraga siporo ari kwiruka.

Ibikapu bibiri bitukura bifite amabara y'umukara ndetse ni ry'umweru, imashini zirimo ibara ry'umukara, ibikapu birimo imiti itandukanye yaba ibinini ndetse n'indi miti itandukanye bigaragara ko ari igikapu cya muganga.

Ibinini by'umweru, biciyemo akarongo, birambitse impande y'ipombo yo kwa muganga, hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, ndetse n'andi yanditswe mu ibara ry'icyatsi.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri nk'uburyo bwiza bwo kwita ku buzima bwe, aho yarambuye ukuguru kumwe akujyana inyuma ukundi akaguhina akuganisha imbere.

Umugabo ufite ubwanwa w'umwirabura ari kunywa amazi ndetse akaba afite na furari ku rutugu bigaragara ko avuye gukora imyitozo ngororamubiri.

Ikimenyetso cyo guteranya cyanditswe mu ibara ry'umutuku, riri mu ruziga rwandikishijwe ibara ry'umweru, handitseho amagambo arimo ibara ry'umukara, rigaragara ko ari ikirango cy'umuryango wa Croix rouge.

Muri rusange siporo zikorwa mu buryo butandukanye, hari ugukina umupira, hari uguterura ariteri, hari ugutera mucaka n'ubundi buryo bwinshi butandukanye, umuntu ashobora gukoresha.

Hari uburyo bwinshi butandukanye umuntu ashobora gukoresha abungabunga ubuzima bwe bidasabye ko afata imiti yo kwa muganga cyangwa se imiti gakondo ahubwo akivura biciye mu gukora siporo ananura amaguru cyangwa se amaboko.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umukara, afite amatuza manini ndetse n'ukuboko kubyibushye, ari guterura ibyuma bisa n'aho ari gukora imyitozo ngororamubiri ndetse akaba ari mu nzu irimo n'ibindi bikoresho bitandukanye, byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye inkweto z'umweru ipantaro y'umukara imufashe cyane ndetse n'isengeri nayo y'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri aho ari kurambura amaguru ndetse n'amaboko.

Igipapuro gishushanyijeho uburyo bwo gukora imyitozo ngororamubiri, aho uhagarara ugahina ukuguru kumwe, aho ufatiriza ku gikuta ukararambura amaboko, aho uba usa n'utambuka ndetse n'ikindi gishushanyo aho umuntu afashe ku ntebe akaba yarambuye ukuguru mu kirere.

Umukobwa muto muto yambaye ipantaro imufashe, yambaye igisengeri nayo imufashe, aho ahagaze hasi iruhande rwe hakaba hari igikuta kiri mu ibara ry'icyatsi, afite umusatsi mwinshi ndetse akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kurambura amaguru n'amaboko.

Umukobwa wambaye agasengeri gatukura, yambaye na ekuteri, yambaye isaha, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kurambura ndetse akanagorora amaboko ye.

Inyubako nini cyane, yagutse ariko yijimye, irimo ibikoresho bitandukanye bikorerwaho imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko iyi ari inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Umugabo ufite akaboko kabyibushye yambaye agapira k'amaboko magufi gasa n'ubururu, yambaye isaha, aho ari kunywa amazi mu icupa ry'umwerusa asa naho amaze gukora imyitozo ngororamubiri akaba ari kuruhuka.

Hari agakoresho akenshi gakunze kuba kari mu ibara ry'umukara kariho imashini cyangwa se indi mode irimo ibara ry'umweru, handitseho amagambo mu ibara ry'umweru ka ari akantu kambarwa n'umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri mu ngingo.

Umugabo ufite amatuza manini ndetse n'ukuboko kubyibushye yambaye agapira k'amaboko magufi kamufashe cyane akaba ari kunywa amazi mu gacupa k'umweru nyuma yuko amaze gukora siporo.

Imyitozo ngororamubiri hari aho igera ugasanga atari myiza kukuba itera kugira ngo umubiri ubone ubudahangarwa gusa, ahubwo ikaba ituma umubiri utera neza uko waba ubyifuza kose.

Umugabo arapfukamye apfukamishije ukuguru kw'iburyo yambaye ikabutura ndetse n'umupira w'amaboko maremare, ari kukanda ku ivi bigaragara ko yakoraga imyitozo ngororamubiri ariko akaba atsikiye.

Imiti itandukanye iri mu bikarito harimo igikarito cy'ubururu cy'umutuku hakaba hari uducupa tw'umutuku dufite umupfundikizo w'icyatsi ndetse hakaba hari amakaye arambitse hasi ku ruhande.

Umuntu ugeze mu za bukuru yambaye ishati y'icyatsi akaba ari guterura ibizwi nk'icyuma mu nzu zikorerwamo imyitozo ngororamubiri ari gufashwa n'undi mugabo wambaye itaburiya y'umweru.

Nyuma y'uko umugabo avuye muri siporo, ari kunywa amazi, bigaragara ko yari asa n'unaniwe. Cyane ko tuzi ko amazi ari ubuzima, ni na yo mpamvu iyo umuntu avuye muri siporo, aba akeneye kunywa amazi menshi ahagije.

Umugabo wambaye uturindantoki tw'umweru, inkweto z'umweru, ipantaro y'ikoboyi ndetse n'agapira k'amaboko magufi, ari mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho inzu irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora iyo myitozo.

Umugabo wicaye wambaye isengeri, afite amatuza manini cyane ndetse n'ukuboko kubyibushye bigaragara ko akora imyitozo ngororamubiri iba izwi nko guterura ibyuma.

Hari ibimera bitangaje bikunda kuboneka ahanini mu byaro, aho aba ari ibimera bikunda kuvamo imiti twavuga nk'ibimera by'imisave cyangwa se tukavuga nk'igikakarubamba n'ibindi byinshi.

Igikakarubamba kigira amakakama, kizwi nk'umuti wakoreshwaga mu bihe bya kera ariko na n'ubu ukaba ukoreshwa ahubwo warahinduriwe uburyo, aho kuri ubu gisigaye gitunganywa kikabikwa mu kabido.

Agakoresho kabikwamo uburoso bw'amenyo, karimo uburoso bubiri hakaba hari n'umuti w'amenyo ushushanyijeho igikakarubamba ndetse hakaba hari n'ikindi gikakarubamba giteretse mu kantu k'agakombe.

Imiti gakondo irambitse ku meza, aho harambitseho indabo z'umuhondo, hakaba indabo zitukura, ndetse hakaba hari n'udupaki turimo imiti, harimo uducupa tw'umweru ndetse n'akandi gacupa k'icyuma karimo umuti w'umukara.

Igikakarubamba ni umuti ukoreshwa mu buryo butandukanye ubungubu bukaba bukoreshwa ushyirwa mu masabune, mu mavuta cyangwa se ukabikwa mu dukarito twabugenewe dushinzwe kubika imiti.

Indabyo ziri mu bwoko butandukanye aho akenshi na kenshi arizo zivamo imiti gakondo twavuga nk'iz'umuhondo, iz'umutuku iz'icyatsi ndetse n'iz'umweru.

Umuntu ufite agacupa gatoya cyane, kari mu ibara ry'umukara, ndetse kakaba kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, na none handitseho ngo ravenda.

Umugore wambaye igitenge ari guhamura umuti ku ndabo zifite amababi y'icyatsi ndetse zikaba zifite n'uburabyo bw'ibara ry'iroza .

Umuti witwa foreva deyiri, ukaba uri mu gacupa k'umweru gafite umupfundikizo w'umweru, aho izina ry'uwo muti ryanditswe ku mabara abiri iry'umutuku ndetse n'iry'umukara.

Muri iki gihe mbere y'uko imiti ikoreshwa bitandukanye n'uko mbere yakoreshwaga, aho yatekwaga mu mazi ikiri mibisi, ikiri nzima. Ubungubu haje udusekuru duto aho babanza kuyisekura ikaba ifu bakabona kuyikoresha.

Inyarabasanya ni kimwe mu byatsi bikoreshwa mu buryo bwokomora ibisebe ahakomeretse, aha umuntu afata inyarabasanya akayikamurira ku gisebe, aho amazi ava mu nyarabasanya yomora igisebe mu buryo bwihuse.

Ibyatsi bitandukanye bivamo imiti biri ahantu mu ishyamba ari naho abantu bazi ibijyanye n'imiti gakondo bajya kubihamura kugira ngo babashe kubikoresha bivura ndetse bavura bagenzi babo.

Hari ibimera bitandukanye bikurwamo imiti gakondo, hari igikakarubamba, hakaba hari ururabo rwa ravenda ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Igiti kinini cyane cy'umuravumba, giteye hagati y'ibipangu bibiri, igipangu kimwe cyubakishije boloke sima, naho ikindi ntabwo amatafari agaragara, ahubwo giteye umucanga.

Igikarito kinini kikaba kiri mu ibara ry'umweru, kiriho amabara y'ubururu, hakaba handitsemo amagambo atandukanye y'amabara y'umweru ndetse n'umukara ari mu rurimi rw'icyongereza bisa n'aho iki gikarito kirimo imiti itandukanye gakondo.

Icupa riri mu ibara ry'umuhondo rishushanyijeho uruyuki, rikaba ryanditseho n'amagambo mu cyongereza avuga ngo ''foreva bihani'' bivuga ngo ubuki bw'uruyuki iteka ryose.

Imiti gakondo akenshi yagendaga ibikwa mu bikoresho bitandukanye, kuri ubu ngubu ikaba ibikwa mu tudomoro twavuga, nk'utudomoro tw'umweru, tw'umuhondo, twavuga nk'udupaki tuzwi nk'utwa parasitike tuba dufite amabara y'umweru kugira imiti idapfa.

Ibimera bitandukanye biri mu ibara ry'icyatsi, hakaba hari amagambo abisobanura neza ko ari k'umunsi mpuzamahanga nyafurika wahariwe ubuvuzi, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Amavuta yitwa ''foreva royo jeri''. Akenshi bivugwa ko aba akozwe mu bintu bitandukanye twavuga; nk'indimu, ironji, umutobe ndavuga ironji ry'umuhondo n'ibindi bitandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru, yagiye mu gihuru aho yagiye gusoroma imiti itandukanye gakondo kugira ngo ayifashishe yivura cyangwa se avura abo mu muryango we.

Kuva kera na kare mbere y'uko ubuvuzi bwa kizungu butera imbere, umuti w'igikakarubamba wakoreshwaga nk'umwimerere, ariko kuri ubu ngubu uratunganywa mu nganda, ukabikwa mu dupaki cyangwa se uducupa dutandukanye, akenshi tuba dufite ibara ry'umuhondo ndetse umufuniko ari igitaka.

Imiti gakondo igaragara mu rwanda akenshi ikunda kugaragara mu byaro aho usanga ari igiti gifite ibabi rirerire rifite udushami dutoya bigaragara ko ari umuti rwatsi kandi ari umuti gakondo.

Muri iki gihe igikakarubamba gikorwamo imiti itandukanye: yaba imiti ivura amenyo, yaba ivura ububabare n'indi ndetse ikabikwa mu buryo butandukanye: ari ibikwa mu mashashi, ndetse n'ibikwa mu macupa akenshi na kenshi akunze kuba asa n'umuhondo.

Mu buvuzi gakondo busanzwe gikakarubamba cyifashishwa mu kuvura kandi indwara zigakira ariko nanone mu buvuzi bwateye imbere bwa kizungu kira cyifashishwa n'ubwo kiba cyarahinduwe ndetse kikaba gifite n'uburyo kibikwa mu dupaki twabugenewe.

Ibiribwa bitandukanye twavuga nk'imboga zirimo ibitoki, tukavuga ibinyampeke nk'ubunyobwa ndetse n'izindi mboga zitandukanye rwatsi ndetse hakaba hari n'umwenya, aho ukoreshwa nk'umuti gakondo uvura indwara z'ubuhumekero.

Imiti itandukanye ikoreshwa mu buvuzi, nayo igenda ibikwa ndetse inahunikwa mu buryo butandukanye, twavuga nk'imiti ishyirwa mu tudomoro tw'umuhondo, tukavuga imiti ibikwa mu dukarito ndetse n'indi itandukanye.

Amacupa y'umweru ya purasitike, akenshi ni amacupa akunda kubikwamo imiti, ahanini akaba yanditseho amagambo atandukanye, ari mu ibara ry'ubururu, iry'icyatsi, iry'umutuku ndetse akaba ariho n'akamenyetso kagaragara nk'ak'inuma.

Mu miti gakondo ikunda gukoreshwa n'abantu benshi harimo umuravumba akaba ari umuti wifashishwa akenshi na kenshi n'abantu bafite ibibazo by'uburwayi bufata mu myanya y'ubuhumekero.

Imineke, inanasi n'ibindi biribwa bibitswe mu buryo butandukanye twavuga nk'ibiri mu dukarito tw'icyatsi, ubururu, utw'umukara n'utundi bifasha mu buryo butandukanye ndetse akenshi bigafasha umubiri mu igogora.

Agacupa gatoya kari mu ibara ry'umweru kakaba gapfundiki umufuniko w'umweru, kariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ndetse kariho n'akarongo kari mu ibara ry'umuhondo bigaragara ko karimo umuti gakondo.

Mu bice bitandukanye by'icyaro niho usanga ibiti kamere byakoreshwaga cyane by'umwihariko bahanura amababi yabyo bakayifashisha nk'imiti gakondo bivura indwara zitandukanye.

Mbere y'uko ubuvuzi butera imbere, by'umwihariko ubuvuzi bw'ikoranabuhanga cyangwa se bwifashisha imiti ituruka mu nganda, hari uburyo bwakoreshwaga gakondo kugira ngo abantu babashe kwivura, aho bakoreshaga umuravumba, bakoresha inkeri bakoresha igikakarubamba, ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Ese wari uzi ko mu miti gakondo, harimo ibimera bigaragara no muri iki gihe byinshi tuzi nka sipure.

Ibyatsi bitandukanye bikorwamo imiti aho kenshi na kenshi mu bihe bya kera byakorwagamo imiti gakondo kuri ubu bikunze kubanza by'ozwa mbere y'uko bijyanwa guterwa imirima migari .

Imbuto zirimo imineke ndetse n'inanasi zirambitse ku meza amwe ariho udukarito dutandukanye dufite amabara y'umukara, umutuku, icyatsi ndetse n'andi atandukanye, aho twose turimo imiti gakondo.

Imiti rwatsi akenshi bivugwa ko ivura agapfura iba ihinze mu murima mwiza cyane ufite ibyatsi bitoshye bigaragara ko ari mu gihe cy'imvura, ndetse ikaba ikunda no kuzana indabo z'umweru ndetse n'iz'umutuku.

Uducupa tubiri twa parasitike turimo amazi ashyushye, aho muri ayo mazi bagiye bashyiramo amababi y'umuravumba kugira ngo babashe kuwunywa nk'umuti ubavure indwara.

Mu murima haboneka ibiti bitandukanye, hari igiti cy'icyatsi kiriho amababi afatanye, kaba kiri mu murima uhinze, ariko ku ruhande hakaba hari ibindi byatsi, bifite amabara y'icyatsi.

Abagore bambaye bikwije umubiri wose bagiye hanze mu bihuru aho bagiye guhamura imiti gakondo kugira ngo babashe kwivura indwara zitandukanye bafite ndetse bavure n'ababo.

Imiti itandukanye yakoreshwaga mu gihe cya kera ndetse n'ubu, harimo umuravumba, aho kuri ubu ngubu ubikwa umeze neza, ugashyirwa nko mu icupa risanzwe rya purasitike, aho ubikwa igihe kirekire utarapfa.

Imiti gakondo yakundaga kwifashishwa cyane abantu bivura bidasabye ko bajya kwa muganga twavuga nk'umuravumba cyangwa se igikakarubamba aho bagishyiga mu gakoresho kabugenewe bakakinomba ndetse bakakifashisha bivura.

Imiti itandukanye iri kugenda itere imbere bitewe n'ubwiyongere bw'ikibazo cyo kunanirwa kuzuza inshingano zo kubaka urugo, twavuga nk'imiti ivura kurangiza vuba, gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha ndetse n'izindi ndwara zose zifata imyanya ndangagitsina.

Imiti gakondo itandukanye ikorwa mu bimera twavuga: nk'umuravumba, tukavuga ibindi bimera bitandukanye bigira indabo z'umuhondo ndetse n'ibindi byose byifashishwa mu kuvura.

Imiti ibikwa mu buryo butandukanye, twavuga nk'umuti akenshi ufite amagarama ijana, ubikwa mu gashashi k'umuhondo ariko bigaragara ko kaba karinzwe cyane.

Uburyo imiti ibikwa akenshi biterwa n'akamaro kayo hariyo usanga iri mu icupa ry'umukara rifite umupfundikizo w'icyatsi, icupa ry'umutuku rifite ibara ry'umweru, ibara ry'igitaka, ibara ry'ubururu ariko yose ikaba ihure kuko ifite akarango kari mu ibara ry'icyatsi.

Imiti itandukanye ifite amabara atandukanye, amabara y'icyatsi, umutuku, move ndetse bikaba bikoreshwa mu buryo butandukanye cyane cyane bimaze kunombwa ndetse bikavangwamo n'ubuki.

Mu gihe cyo hambere, aho ubuvuzi bwa kizungu butari bwagateye imbere, abaturage bakoreshaga ibimera kamere kugira ngo babashe kwivura . Aha twavuga nko gukoresha umuravumba ndetse kn'ikizwi nk'umwenya.

Imiti gakondo nk'uko yabaga iri mu byiciro bitandukanye bitewe n'uburwayi ivura twavuga nk'igikakarubamba cyangwa se umuravumba n'imiti ya kizungu iba irimo byiciro bitandukanye ndetse ikanabikwa mu macupa atandukanye.

Kuri ubu ngubu imiti yakoreshwaga kera nk'imiti gakondo, isigaye ikoreshwa nk'imiti igezweho ya kizungu, aho bayifata bakayinomba mu dusekuru duto twabugenewe, hanyuma bakayitunganya, bakayibika mu ducupa, akeshi aho bayibika bayigize umushongi usukika.

Imiti itandukanye iri mu ngeri zitandukanye, iri mu dukombe buri muti uri mu gakombe katwo, hari ibiganza by'umuntu ubona ko afite imiti ari kuyitunganya neza ndetse akaba ari kugenda ayigaba mu byiciro.

Imiti itandukanye gakondo, akenshi iva mu ndabyo, twavuga nk'indabyo z'umuhondo ziba zifite amababi y'icyatsi, aho zivamo ibinini by'umweru, iby'umuhondo, ndetse n'imiti y'amazi ibikwa mu ducupa dutandukanye.

Imiti myinshi cyane iri mu macupa yabugenewe, iri muri etajeri, ikaba iriho ibipapuro by'umweru byanditseho umuti w'iyi miti, aho yifashishwa ahanini mu kuvura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Imiti gakondo itandukanye ikorwa mu bimera byabanjije kumishwa, aho babyumisha barangiza bakabisekura mu gasekururo gato kabugenewe, bakabigira ifu bakabona ku bikoresha nk'imiti.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi tugirwa inama yo kurya indyo yuzuye, by'umwihariko tukarya imbuto, muri izo mbuto twavuga nk'ipapayi, aho usanga ari ya papayi ifite ibara ry'umutuku mu nda, ariko ikaba ifite n'imbuto zitaribwa aho uzikuramo ukarya ipapayi yonyine.

Ibimera bitandukanye birimo amaronji, ubunyobwa, ibyatsi bitandukanye, byaruzwe hamwe ku makoma kugira ngo bisekurwe mu gasekuro kabugenewe mbere y'uko bikoreshwa nk'imiti.

Uducupa tubiri kamwe kumweru gafite umupfundikizo w'umutuku, akandi karasa n'umuhondo gafite umupfundikizo w'igitaka. Hakaba ashushanyijeho igikakarubamba hariho n'amagambo asobanura ngo igikakarubamba mu ndimi z'amahanga.

Ibiti bitandukanye mu Rwanda, akenshi mbere yo guterwa bibanza kwinazwa, aho bishyirwamo bihoho bikitabwaho bikavomererwa kugira ngo bibashe gukura neza.

Icupa rya parasitike ribonerana, ripfundikije umufuniko w'umuhondo. Kuri iryo cupa hariho igipapuro kirizengurutse cyanditseho ngo umuravumba ndetse hakaba hashushanyijeho n'ifoto y'umuravumba.

Mu rwanda by'umwihariko mu byaro niho honyine hakunda kugaragara ibimera bitandukanye kandi bitangaje mu maso y'abanyamahanga; twavuga nk'ibimera bito cyane, bigira amababi ahekeranye by'umwihariko akaba ari udushami dutatu ndetse bikagira n'imbuto.

Imiti itandukanye gakondo iri mu macupa atandukanye mu mabara, hari amacupa atatu y'umweru afite hejuru ku mutwe ha move, hakaba n'irindi cupa ry'umuhondo naryo rifite hejuru h'igitaka.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru kandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, ku ruhande hari andi magambo yandikishijwe umukara akaba ari mu kaziga kari mu ibara ry'umweru. Hejuru hari amagambo yandikishijwe umweru handitseho ngo Royal Jelly.

Mu buryo bwo kubika neza no kwegeranya imiti hari ubwo umuntu ashaka agatanda keza nk'agafite ibara ry'umutuku agashyiramo amacupa atandukanye y'imiti agenda ayashyira mu byiciro bitewe n'ubwoko bw'umuti.